Ni amavomero meza cyane, hakaba hari abana, abo bana bari kunywa amazi banywesha intoki kuri robine, aba bana nk'uko bigaragara ni abanyeshuri, kuko bambaye impuzankano y'abanyeshuri, kandi bigaragara ko bari gukora udukorwa tw'abana rwose.

Ahantu heza cyane hari ibara ry'ubururu, hariho ivomero rifite uturobine imbere n'inyuma, hari umubyeyi uri kuhogereza umwana, bishimiye neza ko babonye amazi meza, maze bagira isuku, ibi rero ni byiza cyane.

Ivomero ryiza ryegerejwe abaturage, turahabona umwana waje kuvoma, ari gukanda rwose agatega ibido maze amazi meza akamenekamo, iki gikorwa Leta y'u Rwanda yagikoze mu rwego rwo kugira ngo igeze amazi meza cyane ku baturage mu duce tumwe na tumwe atageragamo.

Abantu batandukanye, ubwo ndavuga abirabura ndetse n'abazungu bicaye mu nzu nziza cyane iberamo inama, imbere yabo hari ameza ariho uducupa ndetse n'imashini, hakaba hari umugabo umwe wambaye ikote ry'umukara ndetse na karuvati y'umutuku, bose bicaye mu nzu kandi irimo ibendera ry'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bari mu mahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima nk'uko bigaragara, bigaragaye yuko bari kwa muganga ku kigo nderabuzima, hakaba hari umuforomo wicaye ari kubereka amafishi buzuza, bari gutambuka bavuga imyirondoro bakabafasha kuyuzuza.

Iri ni tsinda ry'abaganga riteraniye hamwe nk'uko bigaragara bari bari mu gikorwa cyo gutanga amahugurwa bahugura abantu ibijyanye no kwirinda indwara, ndetse no kugerageza kuba bashakisha ukuntu bagira ubuzima bwiza bambaye impuzankano z'abaganga bamwe bambaye umukara abandi umweru harimo abicaye hasi ndetse n'abahagaze.

Ni agashushanyo kariho utuntu tumeze nk'isaka ricomekeranyije hakabaho uruziga rumeze nk'umubumbe w'isi. Hariho umubyeyi uteruye mwana we nk'uko bigaragara amwitayeho. Arenda kumusoma bishimiranye bahuje urugwiro.

Ivomero rusange ririho amarobine abiri, hari abari babiri baje kuvoma umwe yavomeye mu ndobo mugenzi we ari kumukorera, inyuma yabo hari inzu isakaje ibyatsi ariko yubakishije amatafari, hakurya yabo hari ishyamba riri ku musozi muremure nk'uko bigaragara ni mu gice cy'icyaro.

Aha ngaha ni kwa muganga hari umubyeyi ufashe ifishi mu ntoki, akaba ateruye n'umwana ndetse hari n'abandi babyeyi benshi cyane, bari muri iyi sale, bateruye abana babo nk'uko bigaragara baje gushaka ubuvuzi kandi bari kuvurwa bitaweho.

Umuganga wambaye ga afite urushinge mu ntoki, ari kurutera mu kuboko k'umuntu utari kugaragara neza. Nk'uko bigaragara harimo umuti akaba ari kumuvura. Rero Ibi ngibi bigaragara yuko ari urukingo ari kumutera kugira ngo amurinde indwara.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bicaye muri sale y'inama, imbere y'abo hari ameza ariho ibitambaro biri mu ibara ry'ubururu, hari urimo ufite telefone icometse, ndetse bose bigaragara ko bakurikiye, bari guhugurwa ibijyanye n'ubuzima.

Umugabo bigaragara neza ko akuze, yambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru ndetse na karuvati, yambaye amasogisi ndetse yambaye amarineti nk'uko bigaragara ari kumwe n'akana kambaye agapira k'amaboko magufi katebeje, bafite igikapu kiriho ngo sura u Rwanda.

Aha ni mu ivuriro hakaba hatatse hari n'utlwapa duteye ku nkuta ni igikuta cyiza kiriho amarangi y'ubururu hakaba hari abaganga babiri bambaye amajiri ndetse n'udupfukamunwa hari umubyeyi wambaye agapfukamunwa ndetse n'undi musaza wicaye ku ntebe wambaye itaburiya y'abaganga.

Umuganga bigaragara ko yasanze abaturage mu duce batuyemo, ari kubapima umuvuduko w'amaraso, akabapima n'izindi ndwara zigiye zitandukanye nk'uko bigaragara rero aha ngaha ni serivisi z'ubuvuzi zegerejwe abaturage.

Akana keza k'agakobwa, kari ku ivomero rusange, aho kari gukaraba intoki kishimye, gaseka, aya mavomero leta y'u Rwanda yayegereje abaturage mu rwego kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse n'abo barabyishimiye.

Aha ni kwa muganga cyangwa se ahabereye igikorwa cyo gusuzuma abana, aba bana rero bari kubatera inkingo barabakingira, hafi aho hari akamezaza gateretseho agasanduku bajugunyamo imyanda, muganga atera umwana urushinge agashyiraho agapamba ubundi akabyiringira agahita akajugunya muri ako gasanduku.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu bigaragara ko ari nini, bari kuganira bambaye imipira isa y'ubururu amagambo yandikishije umweru mu migongo, bicaye ku mikeka bari kuganira kandi bose barishimiranye.

Na bantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye ahantu muri salle nziza cyane hasi harimo amakaro hari n'intebe nziza ndetse hari nameza, aha rero bikaba bigaragara ko bari mu nama mfatanyabikorwa yo kugerageza gushakisha uburyo ubuzima bwatezwa imbere.

Abana bigaragara ko bari mu ishuri barishimye cyane, bigaragara ko hari uri kubabaza ibibazo maze nabo bagatera urutoki bashaka gusubiza. Aba bana bicaye mu ntebe nziza cyane, imbere yabo hari ameza meza bigaragara yuko leta yubatse uburezi buzira umuze.

Abantu benshi cyane bambaye impuzankano hejuru y'umweru, inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo y'ipine RBC, nk'uko bigaragara abajyanama b'ubuzima bakaba bari bari guhabwa amahugurwa kugira ngo bajye bavura abantu.

Aha ni mu ivuriro, aha rero iri vuriro rikaba ririmo amakaro, rikaba ririmo ibikoresho byose byifashishwa haba mu gukora siporo, haba mu kuvura abantu, harimo udutanda twiza cyane baryamishaho abarwayi, maze bakabacunda ntibamenye igihe babavuriye.

Abantu benshi cyane bigaragara ko bateraniye ku kigo nderabuzima ariko bakaba batarimo imbere nk'uko bigaragara rero, bari kuganirizwa n'abaganga babasobanurira ibijyanye n'i ndwara uko bagomba kuzirinda kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Utwana tubiri twicaye munsi y'ivomero nkuko bigaragara amazi ari guturuka mu kigega maze natwo tugatega ibiganza tugaseka, utu twana rero twarishimye cyane nyuma yo kubona leta y'u Rwanda yegereje amazi meza cyane abaturage.

Aha ngaha ni mu ivuriro. Hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hubatse neza harimo amakaro, harimo amadirishya y'ibirahure, ndetse harimo n'umukobwa w'umuforomokazi. Wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'ingofero mu mutwe, uri gukora ubushakashatsi.

Umugabo ndetse n'umukobwa bari ahantu mu nyubako umugabo yambaye jile iriho wodhelh organization umukobwa yambaye agacati k'icyatsi kibisi afite imisatsi y'ama menshi yambaye agasaku kuboko imbere yabo hari ibintu bigiye bitandukanye bigaragara ko aribyo bagiye guha abantu.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'inyubako nziza, ni abamama ndetse n'abapapa. Abenshi muri bo bambaye amajire ya croix rouge, aya ni amajire y'icyatsi ndetse bamwe bambaye n'utugofero twayo, bakenyeye ibitenge imbere yaho hashashe amabuye ndetse hari n'indabyo.

Ni abantu benshi cyane bari kwamamaza ikigo bita Unicef. Aba rero ni abasore, inkumi bambaye impuzankano. Bambaye amashati y'ubururu. Ndetse harimo n'abambaye imikara. Ni beza cyane.

Umwana mwiza cyane afite utumeshi ku mutwe yambaye urwenda two mu bitenge. Ari gukarabira ku ivomero rusange, leta yegereje abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Arishimye cyane ari gukaraba amazi agwa mu ibasi.

Kuba umwana muto cyane ufite amaso meza yambaye ishati y’umutuku ari ku ivomero rusange yafunguye ari gukaraba intoki aya mazi leta y'u Rwanda yayegereje abaturage kugirango abana , abakuze bose babashe kugira ubuzima bwiza buzira umwanda.

Iri ni ivomero ryiza cyane rifite amazi y'umwimerere, rikaba riri mu mavuriro leta yubakiye abaturage mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu kugira ngo babone amazi meza nabo bagire ubuzima bwiza. Ibi byabaye nyuma yo kubona ko hari uduce tumwe na tumwe twabuze amazi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati bigaragara kari impuzankano y'abaforomo. Imbere ye hicaye umusaza w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga. Imbere yabo hari imashini maze hari n'undi murwayi ubahagaze imbere, arikubahireza ifishi ye bakayisuzuma.

Umusaza mwiza cyane yicaye ku ivomero rusange ari guseka cyane, imbere ye hari ijerekani, inyuma ye hubatse amazu bigaragara ko hatuwe ndetse hari n'indabyo zigiye zitandukanye, uyu musaza arishimye cyane.

Ni abantu bicaye muri sale bigaragara ko bari guhugurwa, imbere yabo hari ibitabo ndetse bafite n'amakaramu, si ibyo gusa hari n'amacupa y'amazi, aha rero bikaba bigaragara ko bari guhugurwa ibijyanye n'ubuzima, bikaba bigaragara ko bashobora kuba ari abaforomo.

Abana bane bari ku ivomero rusange, iri ni ivomero ryubakiwe abaturage ryubatse ahantu heza cyane bigaragara yuko hari amazi, hakaba hari ibyatsi byiza biri inyuma yabo ndetse n'ibiti bikoze uruzitiro, aha rero aya mazi yegerejwe abaturage.

Umwana wambaye akajipo ndetse n'agapira, agapira yambaye ni ak'umweru, hakaba harimo utudomo tw'umukara, imbere ye hari indobo eshatu, akaba ari ku ivomero ryubatswe ahantu nk'uko bigaragara ni Leta yaryubakiye abaturage.

Umwana muto cyane w'umukobwa afite igikombe cy'icyuma mu ntoki, ari kuvoma amazi ku ivomero rusange, amazi ari kumeneka, umwana yishimiye kubona amazi, aya mazi rero Leta yayegereje abaturage kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi bicaye bazengurutse ahantu mu nyubako, n'inyubako ifite sare nini cyane. Umuganga aba ari hagati ariko ugenda abaha amahugurwa kubi bijyanye n'ubuzima, bigaragara yuko aba bantu bose baje kumva ibijyanye no kuboneza urubyaro.

Umubyeyi mwiza cyane w'umuganga ndetse n'umubyeyi w'umumama ateruye akana mu ntoki. Muganga ari kugatonyangiriza umuti mu kanwa, nkuko bigaragara amwitayeho ndetse na mama we amwitayeho bari mu nyubako bigaragara ko ari mu ivuriro.

Nimero nyinshi cyane zigiye zitandukanye hariho mirongo itanu kw'ijana, mirongo irindwi ku ijana, mirongo irindwi na gatandatu ku ijana, ndetse na mirongo irindwi n'icyenda ku ijana. Munsi hagiye hariho imyaka ijyanye n'iyo mibare.

Abagabo bateraniye hamwe, nkuko bigaragara bari kwiga ku bijyanye no guteza imbere ubuzima baricaye bombi bazengutsa ameza, kuri aya meza hariho udutasi turimo ibyayi buri wese yagiye anywa icyayi, barishimye bose.

U Rwanda rwitaye ku baturage barwo, si abaturage gusa ahubwo bita ku mwana cyane, cyane ko umwana ari u Rwanda rw'ejo, si mu Rwanda gusa kuko ni ku isi yose, aha rero baragira bati ''Umwana wese agomba kugira uburenganzira.''

Ni mu cyumba k'inama, hateraniyemo abantu bagiye batandukanye, harimo umupapa wambaye ingofero y'umweru, agapfukamunwa ndetse n'agapira k'umweru, harimo umumama wambaye ikanzu y'umutuku irimo utubara tw'umweru n'ubururu, hakaba n'abandi bicaye bafite amafishi, biri kugaragara ko bari gutanga serivisi z'ubuzima.

Abana bane bahagaze imbere y'ivomero, aya mavomero Perezida wa Pepubulika y'u Rwanda yayegereje abaturage nyuma yo kubona yuko hari uturere tumwe na tumwe tutarimo amazi meza, aba bana rero umwe ari kuvoma abandi bakareba bagatangara.

Ababyeyi bari ahantu hagiye hatandukanye. Bateraniye ahantu hamwe, hari umusore wambaye amarinete ndetse n'umupira w'umuhondo. Yiyogoshesheje neza. Nkuko bigaragara ari guha umuti akana gato cyane na ko kambaye umupira w'umuhondo.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'ubururu, imbere yayo hicaye abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe eshatu, bigaragara ko bari mu nama, ni abamama ndetse n'abapapa, harimo n'ushinzwe umutekano wambaye impuzankano y'abadaso.

Aba ni abantu bicaye hamwe, barateranye, harimo abirabura ndetse n'abazungu. Hari akapa kanditseho ngo "Buri mwana wese agomba kugira icyizere cyo kubaho birambye kandi bigahoraho." Aha rero nk'uko bigaragara, bari gufata ingamba z'ubuzima kandi bugera kuri bose.

Aha ni ahantu heza cyane, leta y'u Rwanda yagiye yubaka inyubako nziza yubaka na ahantutu nyaburanga, aho buri muntu wese ashobora kugera akishima ndetse akanashimisha abandi, aha rero na we uhageze wahishimira.

Abana bari hamwe ni abanyeshuri, bambaye impuzankano, bambaye inkweto ndetse n'amasogi, inyuma yabo hari uturabyo twiza cyane, bari mu mbuga isa neza, bigaragara neza ko Leta yubatse ubuzima bwiza ku bana b'abanyeshuri.

Aha hari umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro nk'iy'abaforomo, akaba ari gusuzuma umwana, ari kumukora ku itama akareba ku minwa ye akareba niba nta malariya yaba arwaye ndetse iki gikorwa abaturage baracyishimira, kuko umubyeyi waje kumuvuza bigaragara ko yishimye.

Abana bahagaze imbere y'ivomero ririho robine nyinshi cyane bari koga ku ntoki, bose baraseka nk'uko bigaragara rero ibi ngibi abana barabitojwe kugira ngo bajye bagira ubuzima bwiza bukomoka ku isuku.

Abana bari kunywa igikoma mu dukombe, aba bana bari kunywera hamwe, iki gikorwa Leta yagishyizeho kugira ngo abana bose babashe kubona intungamubiri maze bibarinde indwara ziterwa no kubura indyo yuzuye, iki gikorwa rero kibera muri buri mudugudu.

Ivomero rusange ryubatswe ku buryo bugezweho, hariho robine ebyiri bamwe bavomera imbere abandi bakavomera inyuma, hari abantu benshi cyane baje kuvoma, hari abazanye amadobo, amajerekani ndetse n'utubido duto, hakaba hari umugabo uri kubavomera.

Umukobwa wambaye agapira ndetse n'ijipo, yateretse ijerekani mu ibasi. Ari kuvoma amazi ava muri robine ajya mu ijerekani. Aha rero nkuko bigaragara iki ni igikorwa leta yegereje abaturage, aho buri muturage atunga amazi mu rugo rwe.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye harimo abazungu, abirabura, urubyiruko, ababyeyi ndetse n'abana. Hari akana gato cyane kavutse uwo munsi, karyamye mu kantu keza cyane bose bari kukareba kandi bakishimiye.

Umugabo wambaye ishati y'amakarokaro iciyemo uturongo akaba yicaye ku ijerekani yambaye ndetse n'ipantaro y'umukara, ari imbere y'ivomero rusange, aya mavomero Leta y'u Rwanda yayubakiye abaturage kugira ngo babone amazi meza.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari amamashini hakaba indangururamajwi ndetse n'insakazamajwi, si ibyo gusa kuko bose bafite amakayi n'amakaramu bari kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima.

Izi ni inzu nziza cyane reta yubakiye abaturage, aho buri muturage aba yemerewe kugera ahantu kuko ni bimwe mu byo reta yubatse kugira ngo buri muturage wese agire ubuzima bwiza kandi bumubereye.

Ahantu heza cyane nk'uko bigaragara Leta y'u Rwanda yifuje ko abaturage babaho kandi batekanye bagatura heza, ni inyubako nziza ahantu heza cyane hatangaje hashobora gushimisha buri umwe wese wahagera.

Ni abantu bateraniye ahantu hamwe nk'uko bigaragara bari mu nama, iyi nama ikaba igamije ku bijyanye n'ubuzima bwiza ku isi yose kuko harimo abantu bagiye batandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura, bakaba bicaye ahantu heza cyane.

Umugabo uhagaze imbere y'ameza maremare yambaye marinete ikositimu y'umukara ndetse na karuvati inyuma yi'iwe hari icyapa kigaragaza ibyo ashinzwe nk'uko bigaragara ashinzwe ibijyanye n'umutungo ubuzima.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ndetse agapira k'ubururu karimo uturongo tw'umweru, ari koza intoki umwana we wambaye iniforume za kaki, inyuma yabo hari ibiti byiza cyane nkuko bigaragara uyu mubyeyi yitaye ku mwana we.

Abana bateranyirijwe hamwe, aba bana bari kubaha icyo kunywa, aba bana babambitse impuzankano z'umuhondo bari kubahera mu bikombe ndetse no mu magurude, ibi leta yabikoze kugira ngo buri mwana wese abashe kubona intungamubiri.

Ikirango cyiza cyane kigaragaza ubwishingizi mpuzamahanga harimo akarango gashushanyije karimo utubara tw'ubururu ndetse n'icyatsi, aha ngaha rero nk'uko bigaragara ni ubwishingizi mu bijyanye no kwivuza.

Umugore wambaye ikabutura ndetse n'ishati afite agakombe mu ntoki gafite imikondo ibiri ari kuvoma amazi ku kigega gisa umukara aya mazi rero ni amazi meza cyane abaturage babasha kubona amazi uko bikwiye maze bakirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu bicaye muri sare nziza cyane, imbere yabo hicaye abantu bagiye batandukanye, bigaragara ko bari kubaha ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima ndetse hari n'icyapa kiriho amafoto y'abantu nk'uko bigaragara ni abantu bashinzwe ibyo bintu.

Ni ivomero ryiza cyane ayo mavomero leta yagiye yubaka hirya no hino mu gihugu, kugira ngo yegereze abaturage bayo amazi meza kandi asukuye. Ibi byabaye rero nyuma y'uko bigaragaye yuko hari uturere tumwe na tumwe tutabona amazi meza.

Ni ahantu hateraniye abaturage bagiye batandukanye, harimo abakuze ndetse n'abakiri bato, aha rero hakaba hari n'idarapo ry'igihugu, hakaba hari itente ndetse hari n'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi ajyana mu baturage.

Ni heza cyane hari inyubako nkuko bigaragara, hari uruziga ruzengurutse bigaragara ko harimo amazi. Hariho utwuma tuhazengurutse, hakaba harimo n'amakaro. Hirya hari inzu nziza cyane. Nk'uko bigaragara aha ni ahantu heza haba harubakiwe abaturage kugira ngo bahasohokere maze bishime.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, bigaragara ko avuye ku ishuri, hafi aho hari kandagira ukarabe irimo akabase, akaza akabanza akoga intoki ze neza, akoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye ahantu hamwe, harimo abamama ndetse n'abapapa nk'uko bigaragara bari guhabwa amahugurwa, bose bafite ibitabo imbere yabo nk'uko bigaragara hari umuntu uri imbere yabo uri kubahugura.

Umumama w'umuzungu yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'isaha ku kuboko, yifashe mu gituza afite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo nk'uko bigaragara ari gutanga imbwirwaruhame ku bijyanye n'ubuzima.

Ahantu heza cyane nyaburanga nk'uko bigaragara, hari ibiti byiza cyane, hakaba akantu kubatse neza kazengurutswe mu buryo bw'uruziga, hari amatara meza cyane ahamurika abantu batemberera aha hantu barishima bakanezerwa.

Iri ni ivomero ryiza cyane leta yubakiye abaturage, muri gahunda leta yakoze yo gushyikiriza amazi mu baturage aho ariho hose mu gihugu. Hari ababyeyi ndetse n'abana baje kuvoma. Hateretse amabido menshi cyane nk'uko bigaraga aya amazi yahageze akenewe.

Umukecuru wahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye agatebo karimo ibijumba ndetse n'imigozi afite isuka mu ntoki yambaye agapira k'umuhondo gasa nk'agasaje karimo imirongo y'umukara. Ameze nk'uri kureba ibintu bitangaje ariko bigaragara yuko ari ikibazo cye.

Urubyiruko ruteraniye muri sare y'inama bari kuganirizwa ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe, barakurikiye barakurikiye neza ku buryo bashobora gufasha uwahuye n'icyo kibazo, ni basore bambaye imipira myiza bigaragara ko isa y'umukara iriho akarango mu gatuza.

Uyu ni muganga, uyu muganga avura indwara zerekeranye n'ubwonko cyane cyane iyo wahuye n'ihungabana cyangwa se wagize ibibazo bitandukanye nk'ibyo bamwe bita ubusazi, uragenda akakuvura maze ukagira ubuzima bwiza.

Abana bato bari guseka cyane, bambaye impuzankano. Udupira tw'umuhondo hariho utuntu tw'umukara mbere, bambaye utuntu ku maboko ndetse no ku gahanga. Nk'uko bigaragara bari mu mahugurwa, bari kubagira inama ndetse barishimye cyane bameze nk'abari kureba ibintu bitangaje.

Umuhanda mwiza cyane w'igitaka urimo imodoka itwaye ibyo kurya nk'uko bigaragara ni ibyo kurya bya saa sita by'abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, bari mu ivuriro i Bugesera barabitegereje.

Utwana turi hamwe. Utu twana turi guseka. Biragaragara ko twishimye ahangaha rero bakaba babasobanurira ko abana iyo bakinnye, bibafasha kugira ubwonko bukora neza ndetse bagakomera mu mutwe.

Umumama wicaye hasi ahetse umwana. Hari n'undi uhagaze imbere ye. Ariko nk'uko bigaragara ahantu ari hagaragaza yuko afite ikibazo cy'ihungabana ndetse n'abana be ntibameze neza mbese ubuzima ntihatari.

N'umugabo wagize ikibazo gikomeye cyane cyo mu mutwe. Yarahungabanye rwose ari kurira amatama ye, amaso ye ndetse n'umunwa. Amazuru ye ari kuvamo ibimwira. Uyu mugabo rwose yarahungabanye akeneye ubujyanama kugirango ngo akomere.

Aha habaye ihuriro aho abantu bari guhugurwa ku bijyanye n'imikorere yo mu mutwe ndetse n'ubuzima bw'ubwonko, aha rero nk'uko bigaragara bose batunguwe, bigaragara ko bari kwigishwa ibintu by'ingirakamaro batari basanzwe bazi bakaba bari gusobanuza.

Umugabo wicaye ku gitanda nk'uko bigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe. Biragaragara arihebye cyane, yambaye ingofero ndetse ahetse n'igikapu. Akaba yicaye. Imbere ye hariho amagambo agaragaza ikibazo yahuye na cyo.

Umugabo wahuye n'ikibazo cy'ihungabana rikomeye ryo mu mutwe. Biragaragara ko ubwonko bwe budakora neza. Hari umumama ndetse n'umupapa baramurandase. Bigaragara yuko bamujyanye kwa muganga, ahatangirwa serivisi zo gufasha abahuye n'ihungabana ryo mu mutwe.

Aha ni ahantu habereye ubukangurambaga nk'uko bigaragara, abantu bari kuganiriza abandi, bakoze amatsinda bari kugenda baganira ndetse hari n'imodoka y'ikigo nderabuzima, bari kubinjizamo maze bakabaganiriza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo abashinzwe umutekano, harimo abaganga ndetse n'abandi bagiye batandukanye, aha ngaha rero bakaba bari bakoze ihuriro rijyanye no kwita ku bijyanye n'ihungabana ryo mu mutwe.

Aha bagaragaza uburyo serivisi zo gusobanurira ndetse no gutanga ubuvuzi ku bahuye n'ibibazo byo mu mutwe zagiye zigenda mu myaka yashize. Ibi rero byatanzwe na RBC igaragaza ko ntako itagize kandi iki kibazo kiri kugenda gikemuka.

Icyumba kigaragara ko ari kwa muganga, harimo umukobwa ukiri muto imbere ye hari telefone ndetse n'agatabo, ari gusobanurira ababyeyi bateruye abana babiri bicayemo, uko bagomba gufata abana babo neza kugira ngo bagire imikorere myiza y'ubwonko.

Turi guseka cyane twicaye ahantu hamwe twambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye gusa harimo utwambaye utubara tw'icyatsi harimo n'ubururu bigaragara ko ari impuzankano. Aba bana rero bari gusobanurirwa bakabasobanurira ibibazo byo mu mutwe ndetse bakabafasha kubasobanurira imikino ituma bakomera mu bwonko.

Urubyiruko ruteraniye ahantu hamwe harimo umuzungu umwe bigaragara ko asa nk'aho akuze, wambaye ikote ry'umweru ndetse n'amarinete. Hakaba harimo umupapa wambaye ishati y'umweru na karuvati n'ipantaro y'umukara yatebeje, abandi bose bambaye imipira isa nk'aho ari impuzankano y'ubururu irimo ikirangantego.

Inzu nziza cyane ndende, isize irangi ry'umweru, ifite ibirahuri bisa nk'ibyijimyemo ukuntu, imbere yayo hariho ibyapa bigaragaza ko ari mu ivuriro, hariho ngo murakaza neza mu bitaro by'akarere.

Bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana. Yicaye ahantu hasi, yambaye ubusa, yiziritse ibintu ku maguru nta kabuza ubwonko bwe ntibukora neza. Akwiye kuganirizwa ndetse akajyanwa kwa muganga maze akavurwa.

Umugabo bigaragara ko yahuye n'ihungabana ryo mu mutwe, yicaye muri ruhurura akenyeye ibitenge afite ibisatsi byinshi cyane bigaragara ko adaheruka kwiyogoshesha. Imbere ye hari ibijerekani, ibifuka ibishashi ndetse n'ibindi byose agenda atoragura maze akabirundaho.

Umukobwa wubitse umutwe mu biganza nk'uko bigaragara afite ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe, ubwonko bwe bigaragara ko yabukoresheje cyane akaba yarushye ntacyo gutekereza afite, ahubwo yabuze icyo yakora.

Umugabo bigaragara ko akiri muto rwose, yisize vedanje mu maso, afite ibifuka ku rutugu ndetse no mu ntoki, yambaye ibikweto byacikaguritse ahagaze mu muhanda rwagati aho ibinyabiziga binyura nk'uko bigaragara ubuzima bwe bwo mu mutwe bwarangiritse.

Abagabo, abasore ndetse n'inkumi, bahagaze imbere y'icyapa, iki cyapa kiratanga amahugurwa ku bijyanye n'uburyo hakwirindwa indwara zo mu mutwe ndetse n'izifata ubwonko, nk'uko bigaragara rero aba bantu bari gufata ifoto y'uko bari bahuye.

Aha bari gutanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aha rero hari abaganga bagiye batandukanye ndetse n'abandi bantu, bitabiriye aya mahugurwa, bose imbere yabo hari ameza ariho amacupa y'amazi, barakurikiye barikumva neza.

Umumama mwiza cyane wambaye agashati keza cyane k'umukara, yambaye n'agakanzu, akaba yambaye baji mu ntoki, afite imisatsi myiza, nk'uko bigaragara ni umwe mu bagira inama abahuye n'ihungabana ryo mu mutwe, uyu rero mwamugana akabafasha.

Ikimera ni ubuzima nk'uko bigaragara hano bari gutera indabyo zigiye zitandukanye, izi ndabyo rero zifashishwa mu rwego rwo kugira ngo hirindwe indwara z'ihungabana aho ugize ikibazo aba yahagana maze akaharuhukira.

Ni umumama bigaragara yuko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, uyu mumama rero akwiye kwitabwaho, yambaye ibitenge byiza cyane, ateze n'igitambaro, bigaragara ko yitaweho ikibazo cye kitagera kure.

Umugabo ndetse n'abadamu bane, umugabo wicaye ku gatebe ariko bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye ishati y'amaboko ndetse n'ipantaro yayizamuye amaguru, nk'uko bigaragara ashobora no kuba arwaye imvunja mu maguru, biragaragara ko yahungabanye.

Ni umusore wahuye n'ikibazo cy'ihungabana. Biragaragara rwose yarasaze nta kabuza, uyu musazi rero yicaye ahantu hari igikuta gishaje, yambaye ibyenda byacikaguritse kandi bishaje. Afite amazi mu ishshi, imbere ye hari ibikarito ndetse yambaye urukweto mu kaguru kamwe, ahandi nta kintu yambaye.

Ni umukobwa mwiza cyane, ushobora kumwitegereza wareba ukuntu ari guseka ukagira ngo afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se mu bwonko, ariko nk'uko bigaragara ni ibyishimo yifitiye kuko ari ahantu heza cyane, biragaragara ko ari uwo mu bakire.

Abantu bateraniye hamwe imbere yabo hari uducupa tw'amazi, hari ameza meza cyane hari n'intebe ndende, hari umu mama wambaye umupira w'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki nk'uko bigaragara ari kubabwira icyabateranyirije aho.

Aha ngaha baragaragaza umupira uri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, hakaba harimo akantu k'ikirango, aha rero bakaba bafasha abantu gukomera mu mutwe ndetse no kugira ubwonko bukora neza.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe. Abenshi bambaye impuzankano hejuru, kuko bambaye udupira tw'ubururu, hariho amagambo mu gituza. Nkuko bigaragara rero bari bari mu nama ndetse bahugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana nk'uko bigaragara ari kurira, amarira yatembye ku maso ye ndetse no ku matama. Amaso ye yatukuye ndetse na we bigaragara yuko afite ikibazo. Bahagaragaje igice cy'agahanga gusa ariko ikibazo cye bigaragara ko gikomeye.

Iki ni icyapa kigaragaza imiti waha umuntu ufite ikibazo cy'ihungabana, akaba yarahungabanye mu mutwe cyane cyane ubwonko, aha rero hari akapa keza cyane kariho umurongo w'icyatsi kibisi hakaba ibara ry'umweru, hakaba hariho n'amagambo yandikishije umutuku.

Umugabo bigaragara ko ameze nk'uwasaze, yambaye ikigofero gishaje, yambaye ishati y'amaboko maremare kihinahinnye n'umwitero w'umuhondo, afite icuma mu ntoki ndetse n'ingabo ari kwivuga, ariko aragaragara neza neza nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Abana bahuye n'ikibazo cy'ihungabana, nk'uko bigaragara bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, aha rero bigaragara yuko ubwonko bwabo bushobora kuba butagikora neza, kuko bitakarije icyizere cyo kubaho, bambaye imyenda yacikaguritse, bateze ibiganza basa nk'abari gusabiriza.

Ni umusore wishimye cyane, bigaragara ko ari kugaragaza amenyo ye, indwara y'amenyo ni indwara ivurwa kandi igakira ndetse kandi iyo ugiye kwivuza wararengeranye bituma iryinyo ryawe barikuramo, uyu musore rero afite amenyo meza.

Iki ni igishushanyo kigaragaza mu kanwa k'umuntu, neza neza biragaragaza amenyo uko ari mirongo itatu n'abiri. Aha rero muganga yifashisha aka kantu kugira ngo arebe neza amenyo y'umuntu niba arwaye cyangwa ari mazima, maze amuvure cyangwa se amugire inama.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubatse neza ni ndende cyane yubakishijwe ibirahuri, si ibyo gusa ifite uruzitiro rukozwe mu byuma, hakaba hasizeho irangi ry'ubururu hakaba hateyeho n'indabo.

Ahangaha ni mu ivuriro ahavurirwa amenyo, aha rero iyo ufite uburwayi bw'amenyo barakuzana bakakuryamisha kuri kano gatanda uri kureba maze muganga akicara kuri kano gatebe agakurura bino byuma urebamo hano yarangiza akagukura iryinyo ryawe nta kibazo.

Umuganga w'amenyo, biragaragara ko ari umuzungu, yambaye impuzankano y'abaganga ndetse afite ibipimo mu ntoki, yambaye ga akaba afite ikinya agiye gutera mu menyo umusore agiye kuyakura, uyu musore nk'uko bigaragara yizeye ko bamuvura kandi ntababare.

Umugabo uri kugorora amenyo ye akoresheje urudodo, nkuko bigaragara ari gushinyiriza agashyiramo imbaraga kugira ngo arigorore kandi rigororoke. Afite amenyo meza ariko bigaragara ko muganga w'amenyo yamubwiye ko azajya akora ibi bintu kugira ngo agire amenyo meza.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ni imibiri yombi afite utwanwa duke, nk'uko bigaragara rero ari kwerekana amenyo ye, akagaragaza yuko amenyo yiwe yavuwe maze agakira, amenyo ye ubu asa umweru arabengerana yarayavuje.

Umugabo uryamye ku gatanda ko kwa muganga, hejuru ye hari abaganga babiri bari kumukura iryinyo, ni ibitaro byiza cyane ndetse uyu mugabo bamushyizeho akantu gatuma babasha kurikura nta mbogamizi batabangamiye umunwa we.

Aha ni ahavurirwa indwara z'amenyo, hari udutanda twifashishwa mu kuvura abantu, aho uza bakakuryamishaho maze bakagutungaho kamera bakareba ikibazo ifite, hubatse neza, hasi harimo amakaro no ku nkuta hari amakaro.

Amenyo ni ubuzima, aba bana bakiri bato bigaragara ko bafite amenyo meza, ariko bahora bayitayeho bayakorera isuku ndetse bakanayavuriza ku gihe, nk'aha bari kwa muganga bari kwereka muganga ngo abarebere niba ari mazima.

Ni umukobwa mwiza cyane witaye ku menyo yiwe, aranezerewe cyane ndetse ari kuyerekana, aramwenyura ukabibona ko amenyo ye yererana, aha rero muganga arakubwira ngo jya wita ku menyo yawe nawe uba ugomba kugerageza kubikora uko bikwiye.

Muganga w'amenyo, turi kubona ikiganza cye cyambaye ga, tukabona utwinyo turi ku gashinge ndetse hari n'umukobwa wasamye nk'uko bigaragara, ari kwerekana mu menyo ye, ni umukobwa mwiza ufite imisatsi miremire, arishimye cyane.

Ubu ni ubuvuzi bw'amenyo. Aha turi kubona umuntu ufite ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu gukura iryinyo cyangwa se kurigorora, akaba yadushyize mu kanwa maze agahuriza iryinyo mo hagati. Ibiganza biri hano birenze kimwe bigaragara ko hari abantu babiri.

Aha ni mu ivuriro rwagati, ahavurirwa indwara z'amenyo, hari umumama uryamye hasi hakaba abaganga babiri bari kumukura, umwe yamushyizemo utwuma bakoresha, undi ari kumurebera neza niba ari kubikora neza, bose bambaye impuzankano z'abaganga.

Igishushanyo kigaragaza umunwa ndetse n'amenyo yose aba ari mu kanwa k'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri. Iki rero muganga w'amenyo agikoresha asuzuma neza akanareba niba nta menyo urwaye. Ubwo agusuzuma yifashishije ubumenyi yakuye kuri aka kantu.

Ibiganza by'umuganga utari kugaragara ariko hakaba hari kugaragara amaboko ye, ibiganza bye bikaba byambaye ga. Hari akana keza cyane k'inzobe bari gukura amenyo. Aka kana kateze muganga na we ari gushyiramo udukoresho dupima mu kanwa ndetse n'udukura amenyo.

Abantu bateraniye ahantu hamwe imbere yabo hari ameza ndetse hari n'utuntu turi mu dukarito babateretse imbere nk'uko bigaragara bose baje kwivuza amenyo baje kwivuza uburwayi bugiye butandukanye bw'amenyo, aho harimo abambaye imyenda isa y'icyatsi harimo amagambo yandikishije umuhondo n'abandi bambaye iyumweru.

Abana b'abanyeshuri bakiri bato, bafite udukopo mu ntoki, bakaba bafite uburoso bw'amenyo buriho korogate nk'uko bigaragara bari koza amenyo kugira ngo hirindwe indwara z'amenyo ziterwa n'umwanda usigara mu kanwa nyuma y'uko umuntu amaze kurya.

Umugabo bigaragara ko afite akantu k'agashashi mu ntoki ariko karimo iforoma y'amenyo, bigaragara ko agiye kugashyira mu menyo kugira ngo kamufashe kurinda amenyo ye imyanda mu gihe cy'amanywa cyangwa se igihe atari kuyakoresha.

Umugabo ufite urudodo ruri mu kanwa ke ari kugorora amenyo. Nkuko bigaragara muganga w'amenyo yamutegetse kujya ayagorora mu gitondo ndetse na nimugoroba. Arayagorora kandi bigaragara ko afite amenyo meza cyane. Nawe wabikora ukagira amenyo meza.

Umuganga utari kugaragara neza mu maso, yambaye ga ndetse afite n'utwuma twifashishwa bakura iryinyo, ari gukura iryinyo mu kanwa k'umwana, nk'uko bigaragara ntari kumubabaza kuko uyu mwana ntari kurira, kandi ari kumukura neza nta mbogamizi.

Umukobwa mwiza cyane w'imibiri yombi, afite utwinyo twiza cyane nk'uko bigaragara ari gutungaho urutoki akereka abantu, bigaragara ko yitaye ku menyo yiwe, ayagirira isuku kandi akayavuza uko bikwiye, amenyo ye ameze neza.

Ni umugabo w'umuzungu afite agacupa mu ntoki ndetse afite n'urushinge mu ntoki, yambaye amarinete ndetse afite n'imvi, ari mu ivuriro ryiza cyane rifite irangi ry'umweru, hakaba hateretse uducupa turimo isabune ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga.

Umukobwa mwiza cyane, afite imisatsi myiza, yambaye imyenda myiza cyane y'umweru, afite uburoso bw'amenyo, bigaragara ko yashyizeho umuti, maze akaba ari koza amenyo ye, mu rwego kugira ngo ayarinde uburwayi, ari guseka yoza amenyo.

Aha ni mu ivuriro ry'amenyo, harimo udutanda twiza cyane abantu baryamaho maze bakabavura. Aha rero hejuru hariho parapfo nziza cyane, hakaho amatara meza amurika ndetse hasi hakaba hari amakaro.

Abantu babiri bari mu kumba karimo amarido y'umutuku, turi kubonamo umugabo wambaye ikanzu y'umukara, akaba ari kwereka muganga mu kanwa ke nk'uko bigaragara ari kwireba muri miruwari maze akabona ikibazo afite mu menyo.

Iki ni igikorwa cyo kuvura abafite ibibazo by'amenyo, hano hari abaganga bagiye batandukanye nk'uko bigaragara, umwe afashe umurwayi ari kumureba mu kanwa areba iryinyo rifite ikibazo, bari kubavura, abarwayi bambaye udupira tw'icyatsi kibisi harimo amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo naho abaganga bambaye impuzankano y'abaganga n'ibara ry'umweru.

Umwana ukiri muto afite imisatsi imugera mu maso yambaye agasengeri k'umweru, afite utwinyo twiza cyane tw'umweru, nk'uko bigaragara atwitaho kuko yashyizemo urudodo ari kuyagorora yashinyirije, ibi bintu birafasha kuko amenyo ahita akomera.

Muganga wambaye agapfukamunwa ndetse na ga, imbere ye ku gatanda haryamye umukobwa w'inzobe wambaye agapira karimo utubara tw'umuhondo ndetse n'umweru, aha ngaha rero uyu mukobwa bagiye kumukura iryinyo kuko muganga ari gutegura ibikoresho.

Aho bavurira amenyo kwa muganga, iyi nyubako ni ivuriro, aha ngaha by'umwihariko hakaba havurirwa amenyo, harimo udutanda, hakabamo ibikoresho byose muganga ashobora gukoresha mu gihe asuzuma cyangwa se avura amenyo.

Abantu babiri bigaragara ko bari guseka cyane barishimye, bicaye ahantu heza, inyuma yabo hari utwapa tugaragaza igikorwa kibera kwa muganga, aha rero bikaba bigaragara neza yuko umuganga agiye gukura amenyo umurwayi.

Umusore mwiza cyane uri kwireba mu ndorerwamo nkuko bigaragara ari kureba amenyo ye akabona ni meza, afite akadodo ari kuyagoroza nkuko bigaragara ashobora kuba yarabitegetswe na muganga w'amenyo, aha ngaha rero biragaragara ko ari kwivura.

Aha ni ahantu bakusanyiriza abafite ubumuga ndetse n'abashaje. Aha ngaha rero iyo bahageze babitaho mu buryo bukwiye, harimo abakobwa bakiri bato b'abaforomo baba babitaho, ni umuforomo mwiza cyane amwitaho maze akanezerwa.

Ni umukecuru uri kumwe n'inkumi, iyo nkumi yambaye impuzankano nk'aho yaba ari iy'abaforomo, sinzi neza niba ari umuforomo, ariko nk'uko bigaragara uyu mubyeyi yishimiye iyi nkumi, bombi bari guseka bari kureba mu cyerekezo kimwe bishimye.

Ni umukecuru n'inkumi bicaye mu nzu imwe, imbere yabo hari ameza ateretseho akantu kameze nk'akaradiyo, inkumi iri kureba muri telefone uwo musaza afite mu ntoki, uyu musaza yambaye ishate y'amaboko maremare, inkumi yambaye ishati nk'iy'abaforomo ndetse na baji mu ijosi.

Ni umuforomo urimo uganiriza umupapa ushaje. Uyu mupapa rero bakaba barigukurura akantu k'akadodo bagenda bakururana. Bari ahantu mu nyubako nziza, umupapa yambaye agapira ndetse n'agapantaro.

Umugabo bigaragara ko ashaje, yambaye ishati y'amakarokara, iciyemo uturongo, hakaba hari akuma ari kugenda afatishije amaboko yombi agenderamo gake gake, si ibyo gusa kuko hari n'umuforomokazi uri kubimufashamo, bigaragara ko amwitayeho.

Umusaza ufite ubwanwa bwinshi cyane bwajemo imvi, akaba afite uruhara ku mutwe, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto bigaragara ko ari umuforomo, uyu muforomo afite imisatsi myiza y'amamenshi, yambaye impuzankano y'abaforomo ari guha uyu musaza ibinini byo kunywa.

Umukobwa bigaragara ko akiri muto, ari kumwe n'umukecuru usa nkaho ari mama we, yambaye amarinete ndetse afite n'imvi, ari gukata imboga azitunganya kugira ngo aziteke, hamo inyanya ndetse na dodo, hanyuma uwo mukobwa ari kumureba bose bagaseka.

Umukobwa mwiza cyane wambaye akajaketi k'ikoboyi, agapira k'umweru ndetse karimo uturongo tw'umukara, yambaye amarinete ari kumwe n'umusaza bigaragara ko ari papa we, wambaye ishati ya move ndetse n'agapira k'umukara barishimye bose bari guseka.

Umuganga uri gufasha umupapa w'umusaza, ari kumufasha kugendagenda gake gake nk'uko bigaragara rero umuganga yambaye agapfukamunwa, umusaza arashaje cyane, bari kumutsindagiza kugira ngo nawe agere hanze yote akazuba.

Abamama bigaragara nk'aho bakuze, bari mu isoko ry'imbuto ndetse n'inyanya. Inyuma yabo hari amaronji, imbere yabo hari inyanya. Izi nyanya ni nziza cyane. Abamama rero bakuze neza bacuruza nk'uko bigaragara barishimye kandi bishimiye uko babayeho.

Abakecuru ndetse n'abasaza bari kumwe n'urubyiruko, abakobwa bakiri bato utwana duto cyane dufite nk'imyaka itanu nk'uko bigaragara bicaye ahantu heza cyane mu busitani bari guseka barishimye cyane.

Umukecuru n'umusaza bari kumwe n'abana babo, bose bari guseka barishimye, inyuma yabo hari imodoka ndetse n'ibiti bigaragara ko ari indabyo, uyu muryango rero ubanye neza urishimye kandi aba babyeyi bashaje neza.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, ikabutura y'umukara, ari kugenda afashe ku kuma, ndetse hari n'umukobwa ukiri muto uri kumufasha, ni umukobwa wambaye impuzankano y'abaganga, iri mu ibara ry'umukara, akaba we akiri muto ari gufasha uyu musaza.

Umukobwa ukiri muto ari kumwe n'umukecuru bigaragara ko ushaje, kuko yambaye amarinete ndetse n'imvi ze zaraje, nkuko bigaragara imbere yabo bari gutegura amafunguro, hari ubwoko bw'ibiribwa bugiye butandukanye ndetse harimo n'urusenda.

Abasaza bafite inkoni mu biganza, bose bicaye mu ntebe z'imisego baregamye ariko barakuze cyane, nk'uko bigaragara aha hantu hashobora kuba habereye igikorwa cyo kuganiriza abantu bakuze no kubafasha gukomeza kubaho.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu nzu nk'uko bigaragara bose barakuze, imbere yabo hari ikirahure cy'amazi ndetse umusaza afite agacupa k'imiti, yasutse n'ibinini mu kiganza, bari kureba ku gapapuro bafite, uko bakurikiza amabwiriza yo kunywa iyo miti.

Inkumi ndetse n'umusore bafasha umusaza mu ntoki, uyu musaza nk'uko bigaragara arashaje, aba rero bakaba ari abana be bari kumwitaho bamubyukije ku buriri bwiza cyane bakaba bagira ngo bamugendeshe akore agasiporo.

Umusore n'umusaza bicaye mu nzu nziza cyane isize amarangi y'umweru ikaba irimo amatara imbere yabo ku meza haretse uudukombe tubiri tw'umweru bigaragara ko turimo icyayi bombi bari gusoma mu gitabo bari kwishima kandi bari guseka.

Umugabo bigaragara neza akuze yambaye ingofero ndetse n'ikote sibyo gusa afite nafuli, akaba afite akuntu ari kugenderaho ndetse imbere ye hari umukobwa bigaragara ko ari umuforomo ufashe agakapu mu ntoki ari kugenda afasha uwo mugabo kugenda.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza, bafite ibinini imbere yabo, bari gusoma agapapuro, nkuko bigaragara rero kuri uru rupapuro hariho amabwiriza agenga iyi imiti bafite uko inyobwa, ndetse n'uko wakwirinda kuyikoresha nabi.

Ni umu mama ukuze ndetse yicaranye n'abana be benshi cyane bigaragara ko harimo abana be ndetse n'abuzukuru be uyu mu mama yishimye yishimiye kuba yicaye mu rubyaro rwe nk'uko bigaragara bose barishimye abana bari guseka ndetse n'umuma yanezerewe.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, ayo meza ateretseho ikirahure kirimo amazi, barangariye muri terefone ariko imbere yabo hari imiti nkuko bigaragara bari kureba uko iyo miti ikoreshwa, kuko umukecuru afite agapapuro mu ntoki, umusaza nawe afite terefone bose bayirangariyemo.

Umusaza usazanye urugwiro ateruye akana mu ntoki nako gateruye agapupe, uyu musaza ariko ukareba akana ko kakamureba bombi bumaniye kandi bishimiranye nk'uko bigaragara uyu mu umusaze gutanga keya.

Ni abamama ndetse n'abapapa bigaragara neza ko bakuze rwose ariko bakaba bagikora, bahagaze mu mirima irimo imyaka imeze neza cyane, bari kwifotoza bishimye cyane kandi baseka nk'uko bigaragara rwose bashaje neza bameze neza cyane.

Umusaza bigaragara neza yuko akuze yambaye umupira w'umweru afite utuntu mu ntoki ari muri siporo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, arashaje cyane ariko yambaye n'amarinete, afite imvi nyinshi, ikirere kirasa neza ubururu n'umweru.

Umukecuru ushaje ariko bigaragara ko agikomeye, umusatsi we wabaye imvi, bimwe bavuga ngo imvi zabaye uruyenzi, hari umukobwa umuri inyuma umwitayeho umufashe neza, ari kumufasha muri buri kimwe ndetse bose bari guseka.

Ni abakecuru bateraniye ahantu hamwe, bose bigaragara ko bakuze, bateza udutambaro bamwe, abandi nta bitambaro bateze ndetse nta n'imishatsi bafite, bicaye mu ntebe za purasitike, inyuma yabo hari insina nziza cyane zifite ibirere bisa nk'ibigiye gusaza.

Umukecuru n'umusaza bicaye imbere y'ameza, bari kurya banaseka, bose nk'uko bigaragara barakuze kandi barishimiranye, bari kurya imbuto ndetse n'imboga, bakaba bafite n'ibirahure birimo amazi imbere yabo bakajya bananywa.

Abakecuru babiri bari muri siporo. Imbere yaho hari ibiti byiza cyane bari kurambura amaboko bagaseka, bombi bigaragara ko bakuze ariko baracyakora siporo barakomeye cyane, siporo nizima kandi bari kubigaragaza.

Umusaza ari kumwe n'umukecuru, umukecuru afashe ku meza ndetse yambaye agasaha ku kuboko, umusaza ari kumuha utunini umusaza yambaye amarinete, agapira k'umutuku ndetse afite imvi ku mutwe, umukecuru nawe afite imvi ku mutwe ndetse yambaye agapira k'umutuku karimo uturongo tw'umukara.

Umumama ukuze ari muri siporo, yarambuye agakeka hasi ari kugorora amaboko ndetse agorora n'imitsi ndetse n'umugongo nk'uko bigaragara rero, izi siporo yazandikiwe na muganga kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, afite agakinisho mu ntoki ndetse si ibyo gusa afite imvi ku mutwe, inyuma ye hari umuganga w'umumama ufite amamenshi wambaye impuzankano y'abaganga, ari kumwereka uko agorora ukuboko.

Abantu benshi cyane kandi bagiye batandukanye bicaye ahantu hamwe nk’uko bigaragara harimo umuzungukazi akabamo abanyarwanda ndetse n'abandi baturutse ahantu hagiye hatandukanye mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ubuzima ku bufatanye na kaminuza y'u Rwanda.

Abantu babiri umumama ndetse n'umupapa, hari n'undi uri ku ruhande ariko utagaragara neza, aha rero bakaba bafite ibishushanyo bishushanyijeho ingamba zafashwe, izi ni ingamba zafashwe na Minisiteri y'ubuzima kugira ngo hakomeze kubaho igikorwa cyo gusigasira ubuzima.

Aha ngaha rero hari urutonde rw'ibyo kurya bigaragara, abantu bakwifashisha kugira ngo bagire imirire myiza, hari ibiri mu dusorori, hari ibiri mu dukopo ndetse hari n'ibiri ku masiniya, aha rero harimo karoti, imiteja, pavuro, inyanya ndetse n'ibindi.

Umugabo n'umugore bahagaze ku cyapa kigaragaza ihuriro mpuzamahanga, ryiga ku bijyanye n'ihungabana ryo mu mutwe ndetse bakaba bafatamo ingamba zerekeranye n'ubuzima, abo rero baraberewe cyane.

Abantu benshi cyane bicaye muri sare imbere yabo hari ameza bicaye ku ntebe, abandi barahagaze, nk'uko bigaragara rero bari gufatira hamwe ingamba z'icyakorwa kugirango bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Leta y'u Rwanda yafashe iya mbere mu kurwanya ndetse no kwirinda indwara y'ubushita, aho bagiraga bati:"Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende." Aha rero izi ngamba Leta yazifashe iyi ndwara ikimara kumenyekana, maze biyemeza kuyirinda.

Iri n'ihuriro ry'abayobozi bagiye batandukanye, baturutse mu nzego zitandukanye. Nk'uko bigaragara bagiye batandukanye harimo abagabo, abamama ndetse n'abasore. Bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bafata n'ingamba zatuma abaturage bagira ubuzima bwiza.

Igishushanyo kigaragaza ingamba zafashwe na Leta mu buryo bwo kubungabunga ubuzima mu bijyanye no kwirinda Kovide cumi n'ikenda, aho buri muntu agomba gushyira intera hagati ye na mugenzi we akambara agapfukamunwa neza, kandi akihutira gufata urukingo ku gihe.

Izi n’ingamba zafashwe na minisiteri y'ubuzima mu bijyanye no gukwirakwiza ingamba babwira abantu uko bagomba kwirinda indwara aha rero baragira bati itariki yagenwe ni ku ya makumyabiri nicyenda z'ukwa karindwi bibiri myakumyabiri nakabiri igihe ni saa yine za mugitondo mu burasirazuba.

Aha ni muri sale y'ivuriro, aho harimo abaforomo ndetse n'abaganga bagiye batandukanye bari guhabwa amahugurwa, aha rero bahuguwe barangije bafatira hamwe ingamba zo kubungabunga ubuzima ndetse no kubusigasira.

Iki ni icyapa kigaragaza ingamba zafashwe na Leta mu rwego rwo kurwanya ndetse no kwirinda SIDA ku rwego rw'isi, baravuga ngo tugomba kuva muri ibi tukagira abaturage bafite ubuzima bwiza kandi buzira indwara z'ibyorezo zidakira.

Inzu y'inama iteraniyemo abantu benshi, harimo abapapa, abamama ndetse n'abasore bose bize kandi basobanukiwe, imbere yabo hari abari kubasobanurira, aho bigaragara y'uko iyi nama ari iy'ubushakashatsi bwita ku bijyanye n'ubuzima kandi bagafata n'ingamba, yabaye muri bibiri na makumyabiri na kane.

Abasore babiri bombi bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umukara, ndetse na karovati z'umukara, bicaye ahantu hamwe bari kwifotoza, nkuko bigaragara bamaze kuganira ndetse no gufata ingamba, ku bijyanye no guteza imbere ubuzima.

Akapa k'ubururu kagaragaza ingamba u Rwanda ruri gufata mu bijyanye no kwirinda kanseri, aka kapa kariho ibara ry'ubururu amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse harimo uturongo ak'umutuku ndetse n'ak'umuhondo.

Aha ngaha rero baravuga ngo twige gushyira hamwe, abana ndetse n'ubwandu bwa virusi itera SIDA, ibi rero bikaba bigaragaza yuko tugomba gushyira hamwe maze tukarinda abana ubu burwayi nk'uko biri kugaragazwa.

Izi ni inzobere mu bijyanye n'ubuzima, harimo abazungu ndetse n'abirabura, hakabamo abagabo ndetse n'abagore, aha rero bafata ingamba zijyanye n'ubuzima, maze bakavuga ngo mu buzima ndetse no mu mibereho nta n'umwe ugomba gusigara inyuma.

Igishushanyo kigaragaza ingamba zafashwe na Leta mu rwego rwo kubungabunga ubuzima, aha rero Leta y'u Rwanda iragira ati ubusugire bw'ubuzima, abantu bazima, abaturage babereye igihugu nk'uko bigaragara izi ngamba zafashwe kandi zemejwe.

Aha ngaha ni mu ivuriro, hagiye harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse bakatwereka amafoto agiye atandukanye hari hari abaganga bahagaze bameze nk'abari mu nama hakaba hari abameze nk'abari mu isuzumiro aho basuzuma ibizamini, hakaba hari n'abandi bameze nk'abari kubaka utuntu tw'udutanda ndetse hakaba n'abandi bameze nk'abari gukora mu busitani.

Abasore n'inkumi harimo abazungu ndetse n'abirabura, bambaye amabaji mu ijosi nk'uko bigaragara rero bahagaze ahantu heza, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo kuganira ndetse no gufata ingamba ku bijyanye n'ubuzima bwiza.

Abagabo babiri beza cyane bambaye amakoti meza cyane y'ubururu. Umwe yambaye karuvati y'ubururu ndetse n'amarinete, undi yambaye karuvati y'umukara. Barigusuhuzanya bakoranye mu biganza. Bombi bafite ibitabo, bigaragara neza ko bafashe ingamba ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ubwiza.

Umumama ndetse n'umusore, imbere yabo hari intebe nziza cyane y'umukara, inyuma yabo hari amadarapo ari ku giti, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira, iyi ndwara rero wayivuriza ku gihe.

Abantu benshi cyane bateraniye mu nzu y'inama, bari gukora amahugurwa nk'uko bigaragara ni ibijyanye n'ubuzima kandi bari gufata ingamba z'uko hakwirindwa indwara iyo ari yo yose, maze abantu bakagira ubuzima bwiza.

Abaganga bari mu mahugurwa bose bambaye impuzankano nk'uko bigaragara, bambaye n'udupfukamunwa, aba rero bakaba ari abaganga bakora ibijyanye no kubaga, aha rero bakaba barafashe ingamba y'uko bagomba kunoza umurimo bakora kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze gusigasirwa.

N'abantu bagiye batandukanye bahagaze ahantu mu busitani, inyuma yabo hari icyapa kiriho ingamba zafashwe ku bijyanye n'ubuvuzi. Nk'uko bigaragara harimo abashinzwe umutekano, harimo abaganga hakabamo urubyiruko ndetse n'abandi. Bakaba bari gufatira hamwe ingamba z'ibijyanye n'ubuzima.

Iri ni huriro rigizwe n'abagabo batandukanye aha turikuhabona umugabo wambaye kositimu ndetse na karuvate akaba yambaye amarinete imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'insakazamajwi hakaba hari igishushanyo kiriho ifoto yiwe kivuga ngo iri ni ihuriro rya kabiri ryiga ku bijyanye n'ubuzima ndetse tugafata n'ingamba.

Abaganga bambaye impuzankano y'abaganga, bicaye ahantu ndetse bari gusuzuma abaturage bagiye batandukanye, si ibyo gusa kuko hari n'umukorerabushake uri hirya wambaye ijiri y'abakorerabushake, hakaba hari ababyeyi bateze ibiganza ngo babasuzume.

Akapa k'ubururu kagaragaza ikiganza kiri gusuhuza ikindi, bakavuga ati "Gira ubuzima Rwanda" abantu b'u Rwanda bakwiye kugira ubuzima kuko bafite igihugu kibitayeho, izi rero ni ingamba zafashwe zo kubungabunga no gusigasira ubuzima bw'abaturage.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amayekara, amakamera, ibitanda, ameza, intebe, ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bakoresha bavura abarwayi, iri vuriro rero rigezweho.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro. Ndetse aha hantu hakaba hakorerwa isuzumiro. Hari agatanda bigaragara ko karyamyeho umurwayi. Aha ngaha rero hari n'umuganga urikumusuzuma. Nk'uko bigaragara hari ikintu yamurambitseho. Maze na we arikurebera muri ekara iri hafi aho, akareba niba nta kibazo afite.

Iyi ni inyubako yubakiwe abaturage, aha rero hazanwa umuturage uwo ariwe wese wahuye n'ikibazo cy'ihungabana, aho bamwicaza bakamuganiriza bakamufasha kongera gutekereza neza ndetse no kwisanga mu bandi.

Ni inyubako y'ivuriro irimo utuyetajiri tugiye dutandukanye turimo imiti y'amoko yose, hari iri mu ducupa, hari iri mu bikarito ndetse muri iryo vuriro harimo intebe hasi harimo amakaro, ni ivuriro ryiza cyane rifite imiti myinshi cyane.

Icyapa kinini cyane kiri ahantu ku muhanda, harimo kaburimbo ndetse ku ruhande hariho ibisima binini, hakaba hakikije kaburimbo, si ibyo gusa kuko hari n'igipangu nkuko bigaragara, icyo gipangu kirimo inyubako y'ivuriro.

Ni mu ivuriro ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, muri iri vuriro rero turabonamo udutebe, tukabonamo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, tukabonamo utuyetajeri turimo imiti, tukabonamo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abaforomo batandatu bambaye impuzankano ndetse na baji z'ubuganga bambaye n'udupfukamunwa, bombi bafite imisatsi ku mitwe, bakaba bahagaze imbere y'inyubako y'ivuriro, bigaragara ko iri vuriro rero ari ryiza cyane kandi rifite abakozi.

Ni inyubako y'ivuriro, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha bari kuvura, nk'uko tubibona ni inyubako nziza yubakishije sima, ikaba ifite inkuta ziriho irange ry'ubururu, hasi hari sima, si ibyo gusa kuko harimo n'ibikoresho abaganga bifashisha bavura.

Aha ni mu bitaro mo imbere, iyi nyubako yubatse neza cyane irimo imitako amavandarateri, hakabamo ibyuma bifashisha basuzuma abarwayi, nk'uko bigaragara aha ni mu isuzumiro kabuhariwe rikomeye hamwe bita mu cyuma.

Ni icyumba kirimo ama etajeri menshi, aya ma etajeri ageretse inshuro nyinshi. Arimo imiti igiye itandukanye, hari iri mu ducupa ndetse hari n'iri mu dukarito. Nk'uko bigaragara iri vuriro rifite imiti myinshi cyane kuko igaragara.

Inyubako nini cyane kandi ndende y'ivuriro, ni ahantu hisesuye kandi harehare nk'uko bigaragara imbere hari icyapa, kigaragaza aho umuntu agomba gukata bitewe n'aho agiye, iki cyapa kikaba gitereretse mu busitani rwagati.

Iyi ni inyubako y'ibitaro ndetse hano ni mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashishije iyo bari kuvura abarwayi, harasa neza cyane hasize irangi ry'umweru ndetse hasi hasize ubururu harasa neza cyane.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hari umubyeyi uryamye ku gitanda ndetse hari n'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga y'umweru, ari kuvura uyu mubyeyi bigaragara yuko ari kumutera agashinge kugira ngo umuriro ugabanuke.

Iyi ni inyubako y'ibitaro nk'uko bigaragara mu ivuriro mu imbere harimo abarwayi baryamye ku bitanda byiza cyane, bakaba biyorosha amashuka meza, aha rero bose bararembye barimo amaserumu ndetse bari kongererwa n'umwuka.

Aha ni mu bitaro bya Kabutare biherereye mu karere ka Huye mu ntara y'amajyepfo hahagaze abaforomo, abadogiteri ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Hari inyubako nziza nkuko bigaragara iyi yagenewe gufasha abantu bahuye n'ihungabana.

Inyubako y'ivuriro isa neza, ifite amarangi y'umweru ndetse ifite n'amatara. Ikagira akuma gatanga umuyaga mo imbere, hakaba harimo amamashini agiye atandukanye bifashisha bigiraho, cyangwa se bavura. Hakaba harimo udutanda bashobora kuryamishaho abarwayi ndetse hasi hari amakaro.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru. Hakaba hari abantu bagera muri bane ndetse hari n'ahandi bari ruguru, harimo umuganga ndetse n'abarwayi. Leta y'u Rwanda yubatse ibitaro hirya no hino mu gihugu, yubaka amavuriro ndetse n'ibigo nderabuzima.

Inyubako icururizwamo imiti y'amoko agiye atandukanye, imbere yabo haparitse moto ndetse hicaye n'umumotari wambaye kasike nk'uko bigaragara hejuru hariho icyapa kigaragaza izina rya farumasi iri hano yitwa "Peniel."

Inzu nziza cyane yubatse neza ifite ibirahure birebire kandi yubakishije amatafari ahiye, hejuru hari ikirere cyiza cyane gikeya cy'ubururu n'umweru, mu nyubako mu imbere harimo ibintu bigiye bitandukanye hakaba hari n'ubusitani ndetse hari n'uduti twiza turiho amabara y'umuhondo ubururu.

Inyubako nziza cyane, igeretse inshuro nyinshi, imbere yaho hateye imikindo, inyubako ifite ibirahure by'ubururu, iby'umweru ndetse ifite n'utwuma ku mpande nk'uko bigaragara iyi nyubako ni iy'ivuriro kandi baravura neza.

Umusaza bigaragara neza ko akuze yambaye ishati y'amaboko y'umutuku n'ipantaro ijya kuba move, yambaye amarinete y'umukara, umukobwa mwiza cyane w'umuforomo ukiri muto ari kumushyiraho akumvirizo ngo yumve niba nta muvuduko w'amaraso afite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ndetse aha ni mo imbere, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibyo bifashisha bapima abantu ndetse harimo imashini na ekara, iyi nyubako ni nziza cyane inkuta zayo zisize irange ry'umweru ndetse hasi harimo amakararo.

Inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye y'abarwayi nk'uko bigaragara ni ubucuruzi bw'imiti, hakaba hari amaduka abiri acuruza imiti ku ruhande haparitse moto ndetse n'imodoka, kuri iyo nyubako hariho ibyapa bigaragaza ubwishingizi bukorana n'iyi farumasi.

Ni mu nyubako y'ivuriro harimo umuganga uteruye akana mu ntoki ndetse imbere ye hari undi muganga ukiri muto wambaye amarinete, nk'uko bigaragara iri vuriro ntako bisa ritanga keya ku barwayi baryo.

Inzu nziza cyane ifite amakaro hasi, ikaba ifite amarangi y'umweru ndetse na kaki, iyi nzu bigaragara ko ari nziza cyane, irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, nk'uko bigaragara rero iyi nyubako ni ivuriro ryiza cyane rya kizungu.

Ni inyubako y'ivuriro igeretse gatatu cyangwa kane, muri iyo nyubako haparitse imodoka hakaba hari amavaze ateretsemo ibiti by'indabyo, aha rero nk'uko bigaragara ni mu ivuriro kandi baravura, hari n'icyapa cyanditseho ngo "ivuriro rya Remera."

Aha ni mu nyubako y'ivuriro rwagati. Turabonamo ibitanda byiza cyane kandi biriho matera zigiye zitandukanye. Nk'uko tubibona hakaba hari n'utwuma ushobora gushyiraho serumu. Mu gihe bibaye ngombwa. Ibi bitanda bikaba bifite utubara tw'umweru ndetse n'ubururu, matera zikaba ziza icyatsi.

Ni inyubako y'ivuriro yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakaje amabati, aha ngaha rero hari urujya n'uruza rw'abantu hakaba haparitse imodoka, hasi hasashe amapave, hari abantu baje kwivuza muri iri vuriro kandi bari kuvurwa.

Inyubako y'ivuriro, hanze hateretse imeza iriho igitambaro, hakaba hicaye umusaza ndetse n'umumama bambaye impuzankano, agapira k'ubururu karimo ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'amagambo, hakaba hari n'abandi bantu bicaye hafi aho.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuzima. Turi kuhabona farumasi, iyi farumasi irimo imitigi itandukanye. Hejuru hariho icyapa kigaragaza intumbero zabo. Iyi nyubako rero itangirwamo imiti y'amoko atandukanye kugira abantu bakire neza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha rero harimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo utumeza, harimo udutebe, hakaba n'udutanda, aha rero utu dutebe batwicaraho bari gusuzuma ibizamini byatanzwe n'abarwayi, hari amakaro ari hasi, iri vuriro ni ryiza.

Inyubako nziza cyane igereritse kane hejuru hari ibigega hirya hakaba hariho iminara igiye itandukanye, aha ngaha hari imodoka iri gusohoka muri iyi nyubako, iyi nyubako nk'uko bigaragara ni ivuriro, hakaba hicaye umuntu ku ruhande ndetse hakaba hari n'undi uri gufungura imodoka ngo isohoke.

Aha ni mu ivuriro rwagati. Harimo ibitanda byiza cyane, hakaba harimo na matera zisasheho amashuka. Kuri buri gitanda hagiye hariho imiti igenewe buri murwayi. Rero iyo uje kwivuza ukahagera bahita baguha imiti bitagoranye.

Aha ni mu ivuriro rwagati, harimo umuganga ndetse n'umuforomo si ibyo gusa kuko harimo n'umumama bigaragara ko ari umurwayi uteze agatambaro wambaye agapira k'amaboko magufi, yicaye imbere ya muganga, muganga ari kumubaza yandika ibyo ari kumubwira.

Icyapa kiri mu marembo y'ibitaro CHUB nk'uko bigaragara giteretse muri pasiparumu, imbere yaho hari ipironi iriho itara ryo ku muhanda, hirya y'aho gato hari ikirabyo, hari n'akandi kapa kariho icyerekezo nk'uko bigaragara muri ibyo bitaro haparitsemo imodoka z'abaganga.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umukara. Hari abazungu ndetse n'abirabura bari kwishimira gufungura ibi bitaro. Ibi bitaro rero ni ibyo mu karere ka Burera mu ntara y'amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda.

Abakobwa batatu beza cyane, bahagaze mu muhanda, uwo muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo, aba bakobwa bambaye impuzankano y'ubururu ndetse bambaye n'utugofero tw'umweru, bigaragara ko bashobora kuba ari abaforomo.

Inyubako nziza cyane icururizwamo imiti igiye itandukanye, mu imbere harimo utubati turimo imiti igiye itandukanye, harimo iri mu ducupa, iri mu dukarito. Si ibyo gusa kuko hejuru hariho icyapa kigaragaza izina ry'iyo faromasi ndetse n'ibigo by'ubwishingizi bakorana nayo.

Inyubako nziza cyane, iyi nyubako irimo amashusho agiye atandukanye, ikabamo ibyapa byinshi cyane bigaragaza ahantu aho waba ugiye hose barahakwereka. Nk'uko bigaragara rero iyi nyubako ni nziza cyane kandi ni ivuriro ryubatse mu buryo bugezweho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro mo imbere hariho ibikaratasi bigiye bigaragaza serivisi zihatangirwa, hari intebe nziza cyane z'imisego ndetse hari n'ameza, hakaba hari aho bakirira abantu nk'uko bigaragara hicayemo umuntu ategereje abantu yakira.

Icyapa kiri ahantu mu mabuye inyuma yacyo hari ubusitani bwiza, hakaba uduti tureture twiza cyane tuzana umuyaga, hari inzu nziza cyane isakaje amabati y'ubururu ikaba yubakishije amatafari ahiye nk'uko bigaragara ni ikigo nderabuzima.

Ibitanda byiza cyane biri mu ivuriro bisasheho amashuka, ni ivuriro ryiza cyane ririmo amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, hasi hari isima ifite irangi ry'ubururu, imbere yaho hari urukuta ruriho irangi ry'icyatsi kibisi.

Inzu nziza cyane nk'uko bigaragara ni ivuriro. Ririmo utubati twiza, rikabamo ibitanda byiza, ndetse harimo n'aho bajugunya imyanda. Nk'uko bigaragara hari umuforomo, hakaba n'umubyeyi uteruye akana. Iri vuriro ni ryiza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha ngaha rero harimo aho bakorera ubushakashatsi, aha baraza bagasuzuma ibizamini ndetse bamara kubisuzuma bagakaraba intoki kuko hari ubwogero bwiza cyane kandi bugezweho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro mu imbere harimo ibitanda byinshi kandi byiza, ni ibitanda bigezweho, harimo umuforomokazi wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, hakabamo inzitiramibu ndetse harimo na parafo nziza.

Ni inzu nziza cyane yubatse neza nk'uko bigaragara ni ibitaro, yubatse neza imbere hari amapave ndetse haparitse n'imodoka, hari abantu bagiye batandukanye baje gushaka serivisi muri iri vuriro nk'uko bigaragara rero barazihabwa kandi neza.

Inyubako nziza cyane nk'uko bigaragara ni ivuriro, ikaba ifite amarangi y'umweru, amadirishya y'umweru, aha ngaha hariho amagambo yandikishije ibara ry'umweru agira ati ''Aha ngaha ni ahagaragarizwa urukundo.'' si ibyo gusa kuko hari n'ubusitani bwiza.

Iyi ni inyubako y'ibitaro nk'uko bigaragara yubatse neza cyane, inkuta nziza ziriho amarange y'umuhondo, parafo y'umweru, hejuru hariho camera cyangwa se imashini, hasi hari imashini kabuhariwe mu gupima ibizamini ndetse hari n'intebe abaganga bicaraho mu gihe bari gusuzuma.

Inyubako y'ivuriro nk'uko bigaragara aha turi kubona ni kuri farumasi, hakaba haparitse imodoka hejuru hakaba hariho icyapa cya farumasi kigaragaza n'izina ryayo ndetse n'aherereye, Media soro farumasi iherereye i Remera.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, ifite amarangi y'umweru mo imbere, ikagira parafo z'umweru, harimo amatara ndetse na ekara, si ibyo gusa kuko muri iryo vuriro harimo ibitanda byiza ndetse n'intebe, harimo na ravabo.

Inzu nziza cyane ifite irangi ry'umweru, imbere yaho hari indi isakaje amabati y'umutuku, si ibyo gusa hari agahanda gasashemo amapave, hari kugendamo abantu nk'uko bigaragara ni kwa muganga baje kwivuza.

Ni mu nyubako y'ivuriro. Iri vuriro, turi kubona urwakiririro imbere tukabona intebe nziza cyane. Si ibyo gusa iri vuriro ni ryiza cyane n'imbere inkuta nziza zikiza amarangi y'umweru turabona amakaro hasi mbese n'ivuriro ritagira uko risa.

Inyubako y'ivuriro, harimo umubyeyi wabyaye ndetse n'umuganga wamubyaje, uyu muganga yambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'akantu mu mutwe, yambaye amarinete ndetse n'agapfukamunwa, hanyuma umubyeyi na we ateruye mwana we, arishimye.

Inyubako nziza cyane izengurutswe n'ibirahure, hariho amagambo yanditse mu ibara rya oranje, nkuko bigaragara rero iyi nyubako ni ivuriro, imbere yayo hari indabyo nziza cyane, bigaragara ko ziri gukura, kandi hafi aha bakaba bahivuriza.

Inyubako nziza cyane ziteye amarangi y'umutuku, zisakaje amabati y'umutuku ndetse hariho n'irindi rya move, harimo udutebe twiza tw'umutuku, hakaba udusanduku bashyiramo ibitekerezo tw'umutuku, hari ibyapa biyobora abantu, nk'uko bigaragara aha ni mu kigo nderabuzima.

Aha ni mu ivuriro rwagati harimo ibitanda byiza cyane, harimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hari utumeza ndetse n'udutebe, aha hantu hakaba harimo inzitiramibu ndetse n'amarido, iyo umurwayi aje baramuryamisha bakamuvura atekanye.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko aribwo icyuzura wagirango ngo baje kuyitaha. Iyi nyubako rero nta kindi yagenewe gukorerwamo ahubwo n'ivuriro. Nkuko bigaragara rero ni heza cyane hubakije amatafari ahiye ndetse n'ibirahure byiza.

Inyubako nziza cyane igeretse kabiri, ifite amarangi meza cyane y'umweru ndetse harimo intebe nziza cyane ndetse n'ameza, hakaba hashushanyijeho ibintu ku nkuta, hasi hariho amakaro, iyi nyubako ni nziza cyane.

Inzu nziza cyane isakaje amabati y'ubururu isize irangi ry'umweru, hafi aho hari ubusitani bwiza cyane pasiparume z'cyatsi kibisi ndetse hari n'agati keza cyane gateyemo bigaragara ko hari ururabo, akayira abanyamaguru banyuramo karatwikiriye.

Aha ni mu bitaro mo imbere, muri iri vuriro rero harimo ama etajeri menshi agiye arimo amoko y'imiti agiye atandukanye nk'uko bigaragara amwe ari mu ducupa indi ikaba iri mu tuntu tw'udukaratasi ndetse n'udukarito.

Iyi ngiyi ni inyubako y'ivuriro, iri vuriro rero nk'uko bigaragara ni ivuriro ryagenewe abantu bafite uburwayi bw'ihungabana ndetse n'uburwayi bwo mu bwonko. Nk'uko bigaragara rero ni ivuriro riganiririzwamo abantu bakabasha kubafasha.

Aha ni mu kigo nderabuzima cya Shyagashya, hicaye abantu, hakaba hari inyubako nziza cyane bubakiwe n'igihugu kugira ngo abaturage baho babashe kubona serivisi z'ubuvuzi kandi zinoze, barahari rero bigaragara ko bishimiye kuba bari muri iyi nyubako nziza cyane.

Ni inyubako bigaragara ko atari nziza cyane, ariko nanone ikaba idashaje, ifite urukuta rwiza cyane rusize amarangi y'umweru, harimo ibitanda bisanzwe, hakaba haryamyeho umurwayi ndetse ntibamworoshe, hakaba hari umuganga uri kumuvura ndetse n'umugabo uri kumufata.

Inyubako y'ivuriro, harimo intebe nziza cyane, iyi nyubako yubatse neza, hasi hari amakaro, hejuru hari parafo iri mu tubara tw'umuhondo, hakaba akuma gatanga umuyaga ndetse mo imbere harimo indabo nziza cyane ziteretsemo nk'uko bigaragara rero iri vuriro ni ryiza cyane.

Inyubako nziza cyane ifite irangi ry'ubururu ndetse n'umweru. Ikaba igeretse kabiri. Imbere yaho hari akabara k'umutuku ndetse harimo n'akarongo k'umweru. Hakaba handitsemo amagambo agira ati: ikigo nderabuzima cya Kanyinya. Iri vuriro rero biragaragara ko ryubatse neza.

Aha hantu ni mu ivuriro rwagati, harimo ibitanda biryamyeho abarwayi, harimo intebe ndetse harimo n'imashini. Hariho utwuma bashyiramo serumu mu gihe bagiye kuzitera abarwayi, ndetse hari n'inzitiramibu. Nk'uko bigaragara, harimo abantu bameze nk'abarwaza cyangwa se abaganga, bambaye imyenda ahantu hose bipfutse.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro isakaje amabati y'ubururu ndetse no ku nkuta hasizeho irangi ry'ubururu mo imbere haparitsemo imodoka hari n'abantu bahagazemo, hasi hasashe amapave, ibi ni ibitaro bigezweho, bikeye, binogeye ijisho kandi bibereye abaturage b'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo abantu benshi bagiye batandukanye harimo ibikoresho byo kwa muganga: ameza, intebe, utubati ndetse n'ama etajeri harimo abantu baje mu mahugurwa kandi nk'uko bigaragara imbere yabo hari n'uducupa tw'amazi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, mu ivuriro hagati harimo abaganga ndetse n'abantu, haparitsemo n'imodoka, iri vuriro risize irangi ryiza cyane ry'umweru, ririho amabati atukura ndetse hariho n'icyapa kigaragaza gahunda zo gusura ndetse no gusurwa kw'abarwayi.

Inyubako y'ivuriro nziza cyane irimo uburiri bwiza cyane busashe nkuko bigaragara ni ibitanda by'abarwayi kuko hariho udupine ndetse bikaba bisasheho amashuka hagaragara utwuma muganga yifashisha ari gupima ndetse n'utubati abarwayi babikamo ibintu byabo nkuko bigaragara harimo imbuto.

Iyi ni inyubako nziza cyane, ni inyubako irimo ibitanda byiza, irimo amarido, ikabamo ibikoresho byose bitandukanye byo kwa muganga kuko iyi nyubako ni ivuriro, aha ngaha bahafashirije abarwayi bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Aha ni mu kigo nderabuzima cya Gisenyi harimo urujya n'uruza rw'abarwayi, hari umunyonzi waparitse igare ndetse hakaba hari n'umukobwa yari ahetseho bigaragara ko nawe aje muri iri vuriro, iri vuriro rero Leta yararyubatse kandi irarivugurura kugira ngo batange serivisi zinoze.

Inyubako nziza cyane nk'uko bigaragara ni mu ivuriro, aha ngaha hakaba ari ahakorerwa ubushakashatsi, basuzuma indwara, bareba niba umurwayi hari uburwayi afite, harimo utwetajeri hakabamo n'imashini zipima.

Iyi ni inyubako y'ivuriro nkuko bigaragara rero iyi ni inzu yakirirwamo ababyeyi izwi nka materineti hari inyubako nziza rero isize irangi ry'umuhondo ikaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, nk'uko bigaragara yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya meza asize irangi ry'umweru, hari ubusitani bwiza cyane, hasi hasashe amapave, nk'uko bigaragara rero ni ibitaro bya Gihundwe.

Inzu nziza cyane, hari iyubatse mu buryo buzengurutse, ikaba irimo ibirahure byiza ndetse n'ibyuma biyizengurutse. Hakaba hari ubusitani bwiza cyane. Hakurya bigaragara ko hari inzu zituwemo n'abantu ariko iyi nyubako yo ni ivuriro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo ibintu bigiye bitandukanye, hari ibishushanyo ndetse n'inyuguti byanditse ku nkuta, hakaba ibitanda byiza cyane, hakaba udutebe ndetse n'ibindi bikoresho muganga yifashisha asuzuma abarwayi.

Inyubako nziza cyane, yubakishije amatafari ahiye ndetse basizeho akaverine k'umutuku, irangi ry'umweru ndetse inzugi n'amadirishya ni umweru, hasi hari kaburimbo y'umukara iciyemo uturongo tw'umweru, iyi nyubako rero ni ivuriro.

Aha ni mu bitaro bya Kabgayi, harimo ibiti byinshi cyane bitanga umuyaga ku barwayi, harimo umugabo uri ku igare uri kunyura mu gahanda karimo, hari akapa bigaragara ko hariho agashusho ka Bikira Mariya ndetse hari n'amatara.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo umuganga wambaye itaburiya ndetse n'ipantaro y'umukara arahagaze ameze nk'uri kwifotoza, harimo ubusitani bwiza cyane ndetse iri vuriro hariho ko bigaragaza yuko hano ariho basuzumira ibizamini.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo ibitanda byiza cyane bishasheho amashuka ndetse biriho n'imisego. Hakaba harimo lavabo umurwayi ashobora gukarabiraho mu ntoki, si ibyo gusa kuko inkuta ndetse no hasi hose harasa neza.

Ni inyubako nziza cyane ifite amarange y'umweru ku nkuta ikagira amadishya y'icyatsi kibisi, ikaba ifite ikigega iruhande rwayo ndetse ikaba ikorotiriye, ifite ubusitani bwiza buteyemo n'ibiti, iyi nyubako ikaba ari ivuriro cyangwa ikigo nderabuzima.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, yubatse neza ifite inkuta ziriho irange ry'umweru, hejuru hariho parafo iyo parofo nayo ikaba ifite irangi ry'umweru, si ibyo gusa hariho n'amatara mo imbere harimo ibikoresho bitandukanye bifashisha bavura abarwayi.

Umusore mwiza cyane bigaragara ko yakoze sport, afite Gourde ku munwa ari kunywa amazi. Ndetse bigaragara neza yuko arangije gukora siporo umubiri we urakomeye cyane turi kubibona.

Aha hari abantu bagiye batandukanye bari gukora siporo, hari umubikira witambiye yambaye ikanzu y'ababikira, hari umuzungu wambaye agapira ndetse n'agapantaro k'umukara, hari abantu bicaye hasi ndetse uyu muzungu ari kugorora aka kana.

Ibi ni ibikoresho bya siporo. Iyi siporo ikaba ari siporo muganga akwandikira, cyangwa se bikaba nkawe wabikora mu buryo bwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye, ziterwa no kudakora siporo. Siporo ni ubuzima.

Umugabo uri muri siporo izi siporo azandikirwa na muganga kuko izi siporo ni izijyanye n'ubuzima hari umuntu utagaragara neza ariko ameze nk'umuforomo uri kumufasha kugorora akaguru ke bigaragara ko yavunitse akaguru ndetse hari n'abandi bantu ku ruhande bari kubireba.

Umuganga ufite umupira mu ntoki, yambaye impuzankano y'abaganga mo imbere harimo karuvati nk'uko bigaragara afite n'agakoresho k'abaganga, aha rero ari kugaragaza yuko siporo ari ubuzima nk'uko ari kubyerekana.

Uyu ni umusore wakoze siporo maze avunika ibiganza. Nkuko bigaragara rero muganga ari kumuvura. Ari kumushyirira bande mu biganza agorora urutoki. Uyu musore nawe yateze kugira avurwe maze akire neza asubire muri siporo.

Ni inkumi nziza cyane imaze gukora siporo, ifite esuwime ku rutugu, afite gurude mu ntoki ari kunywa amazi, yambaye isengeri nk'uko bigaragara yazanye ibyunzwe byinshi, akaba ari kunywa amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Iyi ni imbago y'ukuguru kumwe, iyi mbago rero ihabwa umuntu wakoze impanuka maze akaba yavunika ukuguru kumwe, aho ayifata mu kuboko maze ukuguru kukabasha gufata hasi cyangwa se akagenda kuri hejuru, yifashishije imbago.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa mu gihe cya siporo, bigiye bitandukanye harimo ga, hari inshinge, harimo ibitori, harimo uducupa tw'imiti ndetse hari n'akabogisi gatwarwamo imiti kwa muganga. Nkuko bigaragara rero ibyo byifashishwa mu gihe cya siporo.

Uyu musore akunda gukora siporo bigaragara ko afite umubiri ukomeye cyane wakoze siporo, ariko kandi ku kuboko kwe hashushanyijeho ibintu bishushanyije mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku wijimye, aha rero nk'uko bigaragara izi ni siporo yandikiwe na muganga.

Izi ni siporo wandikirwa na muganga, izi siporo rero iyo ya amaze kuzikwandikira ashobora kugufasha no kuzikora, nk'uko bigaragara hano hari umuganga kuko yambaye impuzankano y'abaganga, akaba ari kuvura umukobwa aho bigaragara ko yamushyize akantu ku nkokora, akaba akomeza ashyira no ku ivi rye amupima areba uko ameze.

Siporo ni ubuzima, niyo mpamvu iyo ugiye kwa muganga ugasanga ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije cyangwa se umuvuduko w'amaraso, bashobora kugutegeka gukora siporo, izi rero ni siporo uba wandikiwe na muganga ukazikora neza kugira ukire vuba.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga ariko byifashishwa muri siporo, harimo utumashini ushobora guhagararaho ukamenya ibiro ufite, harimo utwo ushobora guhagararaho ukaba wakomera ibirenge, aha rero bigaragara ko bihari.

Aha ni hantu hari akamenyetso k'umutuku harimo agasaraba k'umweru, ikirango cya croix rouge y'u Rwanda. Nk'uko bigaragara rero ni ahantu hakorerwa siporo, kandi izi siporo ukaba wazikora ushaka ubuzima bwiza cyangwa ukaba wazandikiwe na muganga.

Imbangukiragutabara iri mu muhanda wa kaburimbo. Uyu muhanda ku ruhande, hariho udusima dusize irangi ry'umweru ndetse n'umukara. Hakaba icyuma kiriho insinga z'amashanyarazi, hakurya hakaba hari ibiti. Aha rero, iyi mbangukiragutabara uri muri siporo ukagira impanuka, iragutabara.

Umukobwa bigaragara ko agororotse ari muri siporo arigorora, arikugorora akaguru ke ndetse n'akaboko ke. Ahagaze ahantu heza cyane, yambaye imyambaro myiza yagenewe gukorerwa siporo. Aha rero nk'uko bigaragara siporo ni ubuzima.

Abantu batatu bari mu muhanda, babiri muri bo bambaye impuzankano y'umuryango utabara imbabare uzwi nka Croix rouge ndetse bateruye umuntu, bigaragara ko yavunikiye muri siporo rero bari kumufasha kugera kwa muganga ngo bamuvure.

Ibiganza biriho akamenyetso kagaragaza nk'imitsi yizinze, aha rero iyo ugiye kwa muganga ufite imitsi imeze uko bakwandikira kujya ukora siporo ukagorora ibiganza ku buryo iyo mitsi yirekura kandi igakora neza.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa hakorwa siporo, hagaragara uducupa tw'amazi, hakagaragara udupine bifashisha bubaka umubiri ndetse hakagaragara n'imbuto umuntu ashobora kurya igihe ashoje siporo, ibi byose iyo ubikoresheje ugira umubiri mwiza.

Umurwayi wicaye mu akagaremuganga amufashe ukuboko ari uwo murwayi yambaye impuzankanana ndetse na muganga yambaye impuzankano nkuko bigaragara muganga ari kumufasha gake gake kugera aho amusuzumira maze ngo amuhe imiti.

Umusore usoje siporo nk'uko bigaragara, yambaye agapira k'ubururu, yambaye akantu ku kuboko kw'iburyo, yifashe mu rukenyerero, ari kunywa amazi akoresheje gurude, hari n'akantu kari gupima umuvuduko we kari ku kuboko kw'ibumoso.

Aka ni agakoresho gakoreshwa n'abantu bakora siporo, ubwo baba bigorora ndetse kandi bagira n'ikibazo bakiyongerera umwuka, aka rero ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu bakora siporo kuko hari ubwo ushobora kugakina utagafite ukaba wahura n'ibibazo.

Ni agasanduku gafunguye. Aka gasanduku kifashishwa n'abaganga bavura abantu bari muri siporo. Harimo imiti igiye itandukanye iri mu dukarito, hakaba harimo iri mu dukarito tw'icyatsi, utw'umutuku ndetse n'utw'ubururu. Hakaba harimo n'agakasi.

Muri iki gihe abantu twese dusigaye dukunda ubuzima, kugira ubuzima bwiza rero bijyana no kubiharanira, niba ushaka ubuzima bwiza na we ugomba gukora siporo, niba muganga akubwiye ngo jya ukora siporo ukamenya ko ugomba kwicara ahantu hatuje nk'aho uyu muntu yicaye maze ugakora siporo.

Amazi ari kuva mu ijage ajya mu kirahure, ni amazi meza cyane bigaragara ko asukuye, aya mazi rero ushobora kuyanywa mu rwego rwo kwivura no kwirinda indwara ziterwa n'umwuma, ukanywa amazi meza kandi asukuye.

Umusore utari kugaragara neza, hari kugaragara akaguru kiwe gakomeye cyane bigaragara ko yakoze siporo kandi akomeye cyane, ndetse n'ukuboko kwe kuri kugaragara, biragaragara neza ko yakoze siporo, yaravugaga ngo ''urugendo rwa siporo ubuzima bwiza kandi bufite ireme.''

Umusore uri muri siporo, akaba ari kwikanda ku itako ry'ibumoso. Uyu musore yambaye isengeri ndetse n'ikabutura. Afite amaboko, amaguru ndetse umubiri we wose urakomeye cyane. Nkuko bigaragara imitsi yarareze akora siporo.

Umusore ndetse n'inkumi bari muri siporo, bombi bafite amagurude mu ntoki bambaye amasengeri ndetse n'amakabutura, bari kwirukanka cyane nk'uko bigaragara izi siporo uba warazandikiwe na muganga maze ukazikora utikoresheje.

Umukobwa ufite aka esuwime ku rutugu, afite gurude mu kanwa ari kunywa amazi, ni umukobwa wirabura ufite agasatsi ka natirere, inyuma ye hari ikirere gifite ibihu by'ubururu ndetse n'umweru, uyu mukobwa bigaragara ko yakoze siporo.

Umusore w'umwirabura, ari kumwe n'umupapa w'umuzungu, arimo aramukoresha siporo amugorora, akongera akamugorora akaguru, akaguru k'uyu musore bigaragara ko kavunitse ubwo yari ari muri siporo, bakaba bari kugerageza kukavura kugira ngo gakire.

Ni ikiganza gifashe agacupa k'amazi mu ntoki nk'uko bigaragara, baragaragaza y'uko umuntu uvuye muri siporo, akwiye gufata icupa ry'amazi maze akarinywa, kugira ngo siporo igire umumaro kuri we, maze n'ayo mazi amugirire umumaro.

Uducupa twinshi cyane tugiye dutandukanye turimo umuti, uyu muti nk'uko bigaragara wifashishwa mu gihe siporo irangiye, iyi miti rero abakora siporo barayikoresha ikabafasha maze bakagira ubuzima bwiza, nawe wugure wigirire ubuzima bwiza.

Ni umusore uvuye muri siporo afite gurude y'amazi ari kuyanywa, nkuko bigaragara rero iyo umuntu avuye muri siporo aba akeneye amazi, cyane ko amazi ari ubuzima, nawe jya ukora siporo maze numara gukora siporo unywe amazi.

Umukobwa yagiye kwa muganga ahageze muganga asanga afite ikibazo cyo kutagororoka mu ivi, maze amukoresha siporo, muganga yambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, ari kugorora uyu mukobwa mu ivi.

Ni umugabo uri kugerageza gukora imyitozo ngororamubiri, nkuko bigaragara yari yaravunitse mu ivi, ariko ari kugerageza kuhakanda ahagorora gake gake. Rero ni byiza mu gihe wavunitse ko nawe ugerageza gukora siporo kugirango ukomeze umubiri wawe.

Ikiganza kitagaragara ariko gifite ijage kiri gusuka amazi mu kirahure. Aya mazi bikaba bigaragara ko agiye kunyobwa n'umuntu uvuye muri siporo. Amazi ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu. Cyane cyane abakora siporo ni ingirakamaro cyane.

Ni igikapu kirimo imiti igiye itandukanye yifashishwa muri siporo, aha ngaha harimo ibinya, hakaba harimo inshinge, harimo ga, harimo ndetse n'amacupa y'amazi, aho bifasha abari muri siporo.

Ubu ni ubwoko bw'umuti wifashishwa mu gihe cya siporo, uri mu gacupa kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, uyu muti rero wifashishwa mu gihe hagize uvunika, aho bawufata bakawusiga cyane aho yavunitse.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku ndetse akaba yambaye na ekuteri, ari muri siporo yizirika ikintu gipima umuvuduko ku kaboko, akaba ari kunywa amazi, afite imisatsi myiza miremire cyane y'umukara, imbere y'iwe hari ubusitani.

Umusore n'inkumi bari muri siporo, imbere yabo hateretse ibikapu bigaragara ko bazenyemo imyenda ya siporo, bamaze kuyambara, umusore biragaragara ko yakoze siporo kuko arakomeye cyane ndetse ari kunywa n'amazi, umukobwa nawe biragaragara ko akomeye cyane rwose akora siporo.

Ahantu hakorerwa siporo, ni sare nini cyane kandi nziza, irimo ibikoresho byinshi cyane, harimo umukobwa w'umuzungu wicaye hejuru ku cyuma, hakaba n'umusore wambaye agapfukamunwa uhagaze munsi ye, iki cyuma rero ukicaraho maze kikaguha gukomera.

Ni ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo, aha rero bashyizeho ikimenyetso cy'umuntu uryamye ku meza akishyira icyuma mu gatuza maze agakora areba uko umutima we utera, aha rero bigufasha kuba wagira ubuzima bwiza.

Ni agasanduku karimo amoko agiye atandukanye y'imiti, iyi miti rero yifashishwa mu gihe bari muri siporo by'umwihariko nk'abakinnyi, aha harimo amavuta, pomade ga ndetse ishinge, ibinya ndetse n'ibitore.

Uducupa tune tw'imiti, iyi miti rero nk'uko bigaragara yifashishwa muri siporo. Iyi miti ikomeza imitsi, iyi miti ishobora gufasha umuntu wakomeretse kuba yabasha kugenda. Utu ducupa rero hariho ibyapa bigaragaza igihe izamara.

Amazi ari mu ijage, hari ikiganza kitari kugaragara neza, harimo amazi arigusuka mu kirahuri. Aya mazi bikaba bigaragara yuko ari umuntu uvuye muri siporo ugiye kuyanywa kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bube bwiza bityo akomere.

Ameza y'umuganga, atetseho udukoresho abaganga bakoresha basuzuma, harimo akameze nk'isaha, harimo n'akandi bifashisha bapima umuntu niba nta muvuduko w'amaraso afite, hari n'akandi kari mu ibara ry'umutuku nk'uko bigaragara hariho umuganga uri gukora lisite y'ibyo agiye gukora.

Umusore uri muri siporo, ni umusore bigaragara ko afite imbaraga nyinshi cyane, yambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakabutura k'umuka, akambara inkweto z'umukara zirimo akarongo k'umweru. Ari gukora siporo imbere ye hahagaze umuntu uri kuzimukoresha, nk'uko bigaragara rero izi siporo ni izo muganga yamwandikiye.

Iki ni igikoresho gikoreshwa n'abantu bari muri siporo, aho ugishyira ku kaguru maze ukuguru kwawe kukaba kutagira ikibazo na kimwe, iki gikoresho rero abantu bakora siporo zirimo risiki nyinshi zo kuba wavunika, bakunze kugikoresha.

Ameza ateretse ivu ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abantu, nk'uko bigaragara harimo pomade, hakabamo ibinini, hakabamo amaserumo, hakabamo ga, hari uducupa tw'imiti tugiye dutandukanye, iyi miti yifashishwa mu kuvura abantu bari muri siporo.

Ushobora kugira ikibazo cyo mu ivi. Aha hari umugabo wagize ikibazo mu ivi. Ariko bamwandikiye kujya akora siporo, siporo zimufasha kuhagorora. Hariho agashushanyo kari mu ibara ry'ubururu, harimo utuntu dusharabatuye mu ibara rijya kuba move, nk'uko bigaragara rero, akora siporo kugira ngo akire vuba.

Iyi ni siporo ikorwa n'abantu b'abarwayi ariko bari gukira, aha rero iyi siporo uyikora nyuma yo kugira ihungabana mu mutwe, ukaba uri kuyikora ureba aho ubwonko bwawe bugeze bugarura ubuzima.

Siporo rusange abantu bahuriye ahantu hamwe abasore, inkumi, abasaza. Aha rero bari gukora siporo bahagaze ahantu ku mapave. Siporo n'ubuzima bari kwigorora bakongera bakumva neza niba umubiri wabo umeze neza.

Umukobwa bigaragara ko akunda siporo ari kugorora amaboko ndetse n'amaguru yateye karitomo, imbere ye hari indabyo nziza cyane hari umukindo uteretse mu ivaze ndetse hakaba n'urukuta ruriho ibihu nk'uko bigaragara urabonerana.

Uyu ni umusore, uyu musore yarariye afite amatuza manini cyane, amaso ye ntari kugaragara ariko hari kugaragara ukuboko kwe, nk'uko bigaragara yagize ikibazo ku kuboko muganga amwandikira gukora siporo.

Umugabo uri muri siporo, yambaye impeta ku rutoki, ndetse yambaye n'akaringa ku rutoki, nkukouko bigaragara ari kurambura ivi ryiwe, akongera akarihina, akumva neza niba rikomeye siporo ni ubuzima, abantu bose bakwiye gukora siporo, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umukobwa bigaragara ko akomeye cyane, uyu mukobwa yakoze siporo, arazikora, arongera arazikora, ni ukuvuga ngo aha ngaha muganga yamubwiye ko amagufwa ye atameze neza nuko na we yiyemeza gukora siporo, imbere ye hagaragara nk'aho hari amazu ariko atari kugaragara neza.

Igikapu kirimo imiti igiye itandukanye. Iyi miti rero yifashishwa muri siporo, iki gikapu gifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, harimo amoko y'imiti agiye atandukanye harimo ibinya, hakabamo pomade ndetse n'indi miti.

Ubu ni ubwoko bwa siporo bugiye butandukanye buhabwa abantu, aha hari umukobwa uhagaze inyuma y'amaguru abiri, bafatishije utwuma tumeze nk'imbago batwambika inkweto, aha ngaha rero ibi babikoresha mu rwebo rwo kugira ngo bikingire kandi birinde.

Aha ni kwa muganga hari abaforomo ndetse n'abaganga bambaye impuzankano, aha ngaha rero muganga akwandikira siporo maze ukaza bakagufasha kuzikora, aha hantu harasa neza kandi hari ibikoresho kabuhariwe byagenewe gukoreshwa siporo.

Ni inkweto ndetse n'umupira bya siporo. Si ibyo gusa biri hano rero hari n'utwuma abaganga bifashisha bari gupima abantu. Biri ahantu hari ibara ry'umweru ndetse iyi nkweto ya siporo ifite amenyo, munsi ikaba ifite utubara tw'umutuku ndetse n'umweru.

Umusore usoje siporo ari kunywa amazi akayanywa, uyu musore afite ukuboko kunini cyane, yambaye isengeri arararamye ari kunywa amazi nk'uko bigaragara yakoze siporo kuko arakomeye cyane, hirya ye turahabona inyubako nyinshi cyane zituwemo.

Umusore wicaye ku gatanda ko kwa muganga, yambaye urukweto ndetse n'isogisi mu kaguru kamwe, muganga ari kumukora ku kaguru k'iburyo, akareba niba hari ikibazo yagize, uyu musore rero nk'uko bigaragara, bari gukoresha siporo ukuguru kwe kugira ngo abe ko gukira.

Ni ibitanda byiza cyane bikorerwaho siporo, ibi bitanda bikunze kuba biri kwa muganga cyangwa se bikaba biri no mu yandi mavuriro agiye akomeye aho umurwayi bamwandikira siporo maze bakamufasha no kuyikora, niba nawe wumva ufite ikibazo mu mubiri bagane bakuvure.

Ni umusore uri kwa muganga, uyu musore bigaragara ko ashobora kuba yaravunitse akaguru, hari umuganga uri kumwitaho, wambaye baji mu ijosi ndetse n'akuma k'akumvirizo, uyu musore yicaye ku gitanda cyo kwa muganga, muganga ari kumupfuka akaguru.

Abasore babiri bari muri siporo, umwe yambaye itiriningi y'umukara, irimo akarongo k'umweru ndetse n'agapira k'umukara, karimo akarongo k'umweru, uhagaze utagaragara neza yambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, bombi bari mu kibuga cyiza cya siporo.

N'ubwoko bw'ibimera ndetse n'imbuto bigiye bitandukanye, turi kubona ameza ariho indimu, icyuma ndetse na tangawizi. Tukongera tukabona amababi y'icyatsi kibisi, tukabona igishushanyo cya mucyayicyayi ndetse n'ibindi bishushanyo.

Ni ikimera ubona ko cyamereye mu kindi, hari ibyatsi byinshi cyane bigikikije, kikaba gifite ibara ry'icyatsi kibisi. Harimo utuntu dusa nk'utwumye ndetse nk'uko bigaragara iki kimera kirifashishwa maze hagatunganywamo umuti ukavura abantu.

Ni icupa risa nk'aho ari rirerire ariko rikaba rirerire cyane, nk'uko bigaragara iri cupa rifite hasi hajya gusa umutuku ndetse no hejuru, ndetse no ku gapfundikizo, hariho icyapa kigaragaza ibigize uwo muti urimo, hakaba hashushanyijeho amoko y'ibyatsi agiye atandukanye.

Ibiti bitoya, nk'uko bigaragara birimo uturabo tw'umuhondo ndetse twarabijemo imbere, ibi biti rero utubabi twabyo twifashishwa hategurwa imiti, iyo miti igahabwa abarwayi bafite uburwayi bugiye butandukanye maze nabo bakabasha gukira.

Ni uducupa turimo imiti igiye itandukanye ndetse harimo utumeze nk'utubido, nkuko bigaragara rero iyi ni imiti ikorwa mu bimera barayitunganya bamara kuyitunganya bakayishyira mu tubido dusa n'umuhondo, hari udusa umweru ndetse harimo n'uducupa dutoya.

Ishashi y'umuhondo mu imbere harimo ibimera, ibimera rero ni umuti, uyu muti utunganyijwe neza kandi urateguye, si ibyo gusa kuko kuri iyi sashi hometseho akapa gato kagaragaza ko harimo garama ijana ndetse bakaba bafite ikirango cy'ubuziranenge.

Ni igikarito kinini cyane cy'umweru kirimo utubara twinshi cyane tw'ubururu ndetse n'umukara, hagiye handitsemo inyuguti nyinshi zandikishije umweru ariko ziri ahantu hari utubara tw'ubururu ibi rero nk'uko bigaragara uyu ni umuti ukozwe mu bimera hakaba hariho aliyanse.

Akaboko kamwe gafite uburoso bw'amenyo mu ntoki, hari n'undi mugabo ufite icupa ry'umuti w'amenyo ari kumusukiraho, uyu muti w'amenyo urasa n'icyatsi kibisi nkuko bigaragara ukozwe mu bimera, ukaba ari umwe mu miti ya gakondo.

Ni igiti kikiri gitoya inyuma yaho hari ibara ry'umweru, nk'uko bigaragara rero iki giti na cyo cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura abantu. Iyi miti rero ikaba yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye kandi abantu bakayemera.

Umumama utagaragara yicaye hasi, amaboko ye afashe ku akantu kameze nk'agatebo hakaba hateretsemo ibimera bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara ni ibintu yagiye yegeranya by'ibimera kugira ngo akoremo imiti ivura.

Ni ibimera byiza cyane, bifite amababi y'icyatsi ndetse harimo n'ibifite amababi y'umuhondo nk'uko bigaragara, ibi bimera birifashishwa mu gihe ari gutunganywa imiti ikomoka ku bimera, iyi miti ikagira umumaro.

Uyu ni umuti ukomoka ku bimera, uri mu gacupa keza k'umweru, nk'uko bigaragara baba bawutunganyije neza maze bakawushyiramo hano, gusa bomeka icyapa kigaragaza ko ukomoka ku bimera, nk'ubu aha hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara agira ati: "Vitolize".

Uducupa dutatu tw'imiti tugiye duteretse ku tumeza tugenda dusumbana, aka mbere karimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, aka kabiri karimo ibara ry'umweru ndetse n'umutuku n'amagambo ariho yanyandikishije umutuku, n'go aka gatatu nako kari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Ibimera byiza cyane bihinze ahantu nk'uko bigaragara byabonye imvura kandi bisa icyatsi kibisi, hari ikiganza cy'umuntu uri kureba ibababi rimwe ry'icyo kimera akacyitegereza neza, agahita abibona ko havamo umuti ukomoka ku bimera.

Uducupa tubiri tw'umuhondo dufite imipfundikizo y'umutuku, turimo imiti igiye itandukanye, iyi miti rero ikaba yifashishwa mu kuvura abantu b'ingeri zose, iyi miti iri muri aya macupa hakaba hometse icyapa kigaragaza igihe izamara.

Ni amacupa y'ibirahure afite imifuniko ifite amabara agiye atandukanye, harimo afite amabara y'umutuku, hakabamo afite ay'umweru, aya macupa rero arimo imiti bigaragara ko ari iya gakondo kuko bisa nk'aho ari ibyatsi, hakaba hometseho n'utwapa tugaragaza iyo ari yo.

Ishashi rimo imiti gakondo isa n'umukara, hakaba hometseho akapa gato kagaragaza ko ari garama ijana, aka gashishi kakaba gasa n'umuhondo, aha rero nk'uko bigaragara iyi ni imiti gakondo ikorwa n'abaganga ba gihanga.

Ikimera kiri hasi, iki kimera nk'uko bigaragara cyanyagiwe, hari n'utundi tukiri kumera, ibi rero babyifashisha batunganya imiti ikomoka ku bimera aho bagisarura bakacyanika nyuma bakagitunganya kikavamo umuti.

Ibimera bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara harimo ibirebire ndetse n'ibigufi, bifite amababi asa umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, ibi bimera rero birasarurwa bigatunganwa maze bigakorwamo umuti bikavura abaturage.

Iyi ni imiti ikomoka mu bimera nk'uko bigaragara hafi aho hari igikakarubamba, iyi miti ipfunyitse mu macupa agiye atandukanye, hari iri mu tumeze nka korogate hari iri mu tumeze nk'utubido ak'umuhondo ndetse n'ak'umweru.

Aya ni amababi y'ikimera. Gifite ibara ry'icyatsi kibisi. Iki cyatsi hari abagikoresha bacyita umuti. Ariko twebwe turakizi neza ko cyitwa urumogi. Iki cyatsi rero ushobora kugikoresha nabi kikangiza ubwonko bwawe burundu.

Imirimo myiza kandi myinshi iteyemo ibimera bigiye bitandukanye ndetse harimo n'igiti kinini cy'inganzamarumbo, hari abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba haparitsemo imodoka ebyiri nk'uko bigaragara rero iyi mirima iteyemo imiti yifashishwa mu kuvura abantu.

Aka ni agakarito karimo umuti, uyu muti bakaba bavuze amazina yawo, bakavuga ko ari esi magana atanu ndetse ukaba ufite amagarama magana atanu, uyu muti uri mu gacupa gafite amabara y'umweru ndetse hakaba harimo n'akantu k'umutuku kazamutse ndetse kigoronzoye.

Ni uducupa turimo imiti igiye itandukanye nk'uko bigaragara iyi miti ni iya gakondo, iyi miti rero nk'uko bigaragara irakorwa igakorwa mu buryo bwizewe, maze bakayishyira ku isoko bakayigurisha abarwayi bakayigura.

Ni ubwoko bw'imiti ikozwe mu bimera, aya moko aratandukanye, harimo ibinini hakabamo akozwe mu ifu, iyi miti rero nk'uko bigaragara yarakozwe itunganywa neza maze iragurishwa.

Ibimera bigiye bitandukanye biri ahantu bigaragara ko ari byinshi, biri mu buso burebure, ibi bimera rero bifite amababi y'icyatsi ndetse bikagira n'uturabyo tw'umuhondo harimo n'umutuku, ibi bimera rero bikaba byifashishwa mu gutunganya imiti.

Aha ni mu murima rwagati nk'uko bigaragara harimo abantu bagiye gushakisha umuti ariko nanone ukagira ngo bari mu bushakashatsi. Bamwe bazanye ibimera abandi bazana indabo, ibi byose barabiteranya bakabitunganya maze hakavamo umuti.

Amavaze ateretsemo ibiti bigiye bitandukanye, biragaragara yuko ibi biti bikoreshwa mu gukora imiti kandi iyi miti ikifashishwa mu kuvura, harimo ibimeze nk'ibikakarumba, hakabamo ibimeze nk'uturabyo ndetse n'iyindi y'amoko agiye atandukanye.

Ni icupa ry'umuti risa umukara, rikaba ririho akapa karimo umweru ndetse n'umutuku, amagambo yandikishije umutuku wijimye nk'uko bigaragara aho gateretse ho ni umweru, uyu ni umuti ukorwa mu bimera aho bafata ibimera bakabitunganya bagakoramo umuti.

Icupa ry'imiti riteretse ahantu ku meza, inyuma yaryo hakaba hasa umukara, iri cupa nk'uko bigaragara ririho umuti wa gakondo wateguwe neza cyane maze ushyirwa mu icupa, uyu muti rero urifashishwa, si ibyo gusa kuko hariho n'akapa kagaragaza ibiwugize.

Agacupa karimo umuti gateretse ahantu ku meza inyuma harasa n'umukara nk'uko bigaragara uyu muti ukozwe mu bimera ukorwa mu bimera bakawutunganya neza maze bakawushyira mu ducupa uyu muti rero uravura kandi neza.

Ibimera byiza cyane, biri ahantu hagaragara ko bibona umuyaga ndetse n'imvura, birasa neza, bifite amababi, harimo utubabi twagiye ducimbagurika, ariko hakaba n'utundi tumeze neza, ibi bimera rero byifashishwa hategurwa imiti gakondo.

Aya ni amoko y'ibimera agiye atandukanye ateye ahantu hamwe, nk'uko bigaragara icyo turi kubona imbere yacu nicyo bita igicuncu. Ibi rero birakoreshwa cyane iyo bari gutunganya imiti, barabifata bakabisarura, bakabitunganya neza maze bakabikoramo imiti.

Ni agacupa k'imiti, aka gacupa karimo umuti uvura wa gakondo, uyu muti rero ukorwa mu bimera ugatunganywa neza maze bakawushyira mu ducupa nk'uko tubibona aka gacupa ni keza cyane karasa n'umweruru ndetse kariho n'icyapa kigaragaza ibigize uyu muti.

Ibi ni ibiti bitoya bitari binini cyane, imbere yaho hari uruzitiro rwa senyenge, turi kubona yuko ibi biti bikoreshwa mu gukora imiti, iyo miti ikifashishwa bavura abantu ndetse igakoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Ni itasi iteretse ahantu ku gakeka. Aka gakeka kakaba kameze nk'akari ku meza. Aha rero hakaba hariho amaronji bakase, indimu bakase ndetse n'igi ubona ko bameneye muri iryo tasi. Si ibyo gusa kuko hari n'agatangawizi. Uyu rero ni umuti bari bari gukora.

ibinini bigaragara nk'aho bipfundikiye, biteretse ku kibabi cy'icyatsi kibisi. Iki kibabi cy'icyatsi kibisi giteretse ku meza, aha inyuma yaho hari ibara ry'umweru. Aha rero ibi binini bikaba bigaragara ko hari imiti inywebwa kandi ikavura.

Uducupa tw'imiti tugiye dutandukanye, duteretse ahantu ku meza ndetse bigaragara yuko ari twinshi, harimo utumeze nk'utubido, harimo utumeze nka korogate, hakabamo udufungiye mu macupa ameze nk'ay'amavuta, hose hagiye hometseho ibyapa bigaragaza ibiyigize ndetse n'igihe bizamara.

Akabito kagufi karimo umuti ukomoka ku bimera. Aha turi kuhabona utumera tugiye dutandukanye twaba udukoze mu mbuto, ndetse hakaba hari n'amagambo yanditse matoya kandi menshi.

Iyi ni imiti ikomoka ku bimera, ikoze neza cyane, ndetse nk'uko bigaragara ifasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandu, ari abarwaye diyabete, ari abarwaye n'izindi ndwara zo mu mubiri, bafata ibimera bakabitunganya neza maze bakabikoramo imiti y'umwimerere.

Ni icupa rimeze nka Korogati nk'uko bigaragara rero iri cupa ntago ari irya korogate, ahubwo ririmo umuti ukomoka ku bimera kuko rishushanyijeho ibimera ndetse n'ubwoko bw'uwo muti, uyu muti utunganywa mu byatsi maze ukabamo umutima muzima.

Aka ni agacupa karimo umuti, gafite umupfundikizo w'umweru, hariho icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse aha hashushanyijeho umuntu wifashe mu nda kandi hakaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara agira ati "igisubizo kuri amibe"

Ni miti gakondo ariko itunganyije neza, ipakiye mu tuntu tugiye dutandukanye, hari iri mu dukarito, hari iri mu ducupa, aha ngaha rero nk'uko tubibona, bagiye bashyiraho ibishushanyo bigaragaza uko iyi miti ikoreshwa.

Ibimera biteye mu murima, ibi bimera bifite amababi y'icyatsi cyererutse hakaba hariho uturabyo tw'umuhondo ndetse n'iroza, nk'uko bigaragara rero ibi bimera bitunganywamo imiti ikomoka ku bimera.

Agacupa gato k'umuti gatereretse ahantu. Nkuko bigaragara ni muti mwiza cyane ushobora kuba uvura. Kariho icyapa kigaragaza ibigize uwo muti, uramutse ubaye urwaye wawugura.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ku ibabi ry'isombe nk'uko bigaragara rero iki kibabi kikaba cyifashishwa bategura umuti, ubu uyu muzungu ari gushaka umuti, aba bazungu baba bafite ubumenyi barabifata bakabitunganya neza bakabikoramo imiti ivura.

Umugabo ucuruza imiti gakondo, aha rero harimo amoko agiye atandukanye y'imiti, hari iri mu ducupa tureture, iri mu ducupa duto, ndetse harimo n'amayetajeri, bigaragara ko harimo imiti myinshi, aho bagira bati, kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Ni ikimera gifite amababi maremare mato mato kikaba gisa n'icyatsi kibisi, iki kimera hari abagikoresha nk'umuti ariko nk'uko tubizi neza iki kimera na none kikaba cyangiza ubwonko bw'abantu.

Iyi ni imiti iri mu ducupa twa polasitike igiye yometseho utwapa tugaragaza ibiyigize, nk'uko bigaragara rero iyi ni imiti ikorwa mu bimera. Aho bayifata bakayitunganya neza bakayisya maze bakayikoramo umutobe wayo.

Amoko y'imiti atandukanye akomoka ku bimera, iyi miti iri mu ducupa hari iri mu ducupa duto, iri mu ducupa turinganiye ndetse n'iri mu ducupa tunini, hakaba hari n'iri mu dukarito, iyi miti yose iri hano ikomoka ku bimera.

Amoko y'imiti agiye atandukanye hari asukika ndetse hari n'ibinini, hakaba hari n'utundi tw'umuhondo turi ahantu ku kamamiro, aha rero hakaba hateretse indabyo zigiye zitandukanye, bagaragaza yuko iyi miti iba yatunganyijwe ikomoka kuri ibi bimera.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera, aha rero bafata ibimera bakabitunganya, bamara kubitunganya, bakabishyira mu ducupa ari umuti, uyu muti rero iyo uwifashishije urakuvura neza ugakira.

Ibiti birebire by'inganzamarumbu, ni ibiti biteye ahantu hagaragara neza ko hijimye, kuko harimo ibiti byinshi bifite amashami ndetse n'amababi manini, bikoreshwa bakoramo imiti bityo iyo miti ikifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bugiye butandukanye.

Ibikarito bitatu birimo umuti, uyu muti rero ukozwe mu bimera, ibi bimera biragora kubibona, ariko biraboneka bakabikoramo imiti, iyi miti ikunze gucuruzwa n'abantu baba muri kampani yitwa Alliance.

Ni udukarito turimo imiti igiye itandukanye, nk'uko bigaragara rero iyi miti itegurwa mu bimera maze igatunganywa neza igashyirwa mu macupa, hari ikorwamo ibinini ndetse hari n'ikorwamo imiti banywa y'ifu.

Ibi ni ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye harimo ibirebire, harimo indabyo, harimo ibifite amababi nk'ay'ibishyimbo ariko nk'uko bigaragara ibi biti byose byifashishwa mu gutunganya imiti yifashishwa bavura abantu.